Umuntu w'umugore w'ambaye ingofero y'umuhondo n'ijiri y'icyatsi n'amarineti areba mu kirere afite ikayi imbereye hari icyapa kiri imbere iruhande rwe cyanditseho gira abakozi bindahemuka kandi bakunda umurimo.

Ahantu hari abantu babiri bicaye, imbere yabo hari ibyo kunywa bitandukanye hari n'ameza akoreshejwe imbaho maremare cyane n'intebe z'umukara n'amatara yaka ibara ry'umweru, ntabwo hagaragara neza igice kimwe.

Inyubako batangiramo ibyo kurya izwi nka resitora ngari cyane, uruhande rumwe ruteretsemo ameza y'umweru n'intebe urundi ruhande ruteretsemo akabati karimo ibyo kunywa byinshi n'icyuma gishinzwe gukonjesha hejuru hari amatara maremare cyane afite ibara ry'umukara.

Ameza y'uruziga, hariho ibinyobwa biri mu kirahure, hari n'ibiri mu macupa, bya amositere, iruhande rwaho hari ibirabyo n'andi meza ariho ibinyobwa, imbere yaho hari abandi bantu benshi batandukanye.

Aho bacururiza inzoga ibinyobwa bisembuye, harimo abantu benshi batandukanye buri wese yibereye muri gahunda ze abareba muri Telefone, hari abafatanye babyina, hari abarimo kunywa, hari abarimo kuganira Benshi bari muri gahunda zabo zitandukanye.

Abantu benshi biganjemo ab'igitsina gore batandukanye bari mudutsiko dutandukanye, imbere hari ahateretse amacupa arimo ibinyobwa, imbere yabo hari tereviziyo iriho amashusho y'abakinnyi b'umupira.

Resitora iteretsemo ameza n'intebe zo kwicaraho n'ahateretse hakusanijwe ibyo kunywa bitandukanye harimo fanta, inzoga n'ibishyushye n'ibyo kunywa bikonje. Hejuru hari amatara y'umweru, no hirya hari akabati gatukura.

Abagabo babiri n'umugore umwe barimo gufata ifunguro, n'ibyo kurya n'ibyo kunywa, abagabo babiri b'abazungu n'umwirabura umwe, urimo kubagaburira bicaye muri resitora amasahani ateretse hejuru ku meza y'urubaho.

Ameza mare mare cyane cyane, ahateretse ateretsemo ibinyobwa bitandukanye bisembuye bire bire cyane n'amacupa magufi, harimo umugabo uhagaze iruhande rw'ibyo binyobwa, hirya ye hari ameza atukura, ariho agatambaro gatukura.

Umucuruzi uri mu nzu ye, imbere ..retse ameza yimbaho inyuma hari firigo yakamo amatara, imbere hari intebe nyinshi n'utumeza dutoya, n'igikuta cy'amatafari ahiye.

Abantu batatu abagore babiri n'umugabo umwe bambaye impuzankano y'akazi, inyuma yabo hari ahateretse inzoga n'amafanta yo kunywa bishikamije ameza, hejuru yabo haraka amatara afite ibara ry'icyatsi.

Ameza y'umukara, ariho icupa ry'ikinyobwa gisembuye, ryanditseho virunga, hariho n'ibiti bifatanye, n'ikirahura kirimo iyo nzoga basutsemo, kiromo ahagati, kituzuye cyane.

Icyapa kiriho icupa ry'icyatsi rya skol gishushanyijeho hari ifoto y'umukobwa wambaye agapira gatukura kagufi n'ipantaro y'ikoboyi irimo umukandara usutse imisatsi wambaye na' marineti, iruhande rwe hari n'undi musore nawe usutse imisatsi baseka barimo babyina.

Abantu benshi bafite ibyo kunywa bisembuye, harimo abagabo, hari n'umukobwa usutse imisatsi, yambaye amaherena, wambaye umwenda w'umukara, useka utambuka, imbere ye hari icupa ry'icyatsi rirambitse imbere ye ririmo ubusa.

Inyubako igaragara igice cyo hejuru, harimo amatara maremare afunitse atagaragara, itara hagaragara urumuri rwayo, hari n'andi agaragaza urumuri , hirya yaho hejuru na none haragaragaramo imitako myiza cyane y'inkoko, ikoze mu buryo bw'inkoko, itatse mu gisenge cy'inzu.

Inyubako irimo inzoga n'icyuma gikonjesha inzoga za sikoro imbere igikuta cyayo cyubakijwe amatafari ahiye n'itara ryaka ibara ry'umweru n'intebe ziri imbere yazo zo kwegamirwa hirya na na televiziyo isakaza amashusho.

Umusore ufashe icupa mu ntoki ry'ikinyobwa gisembuye, barimo kuryitegereza arireba ho, n'akandi k'akarahuri gatoya afite, arimo kuvana icyo kinyobwa mu icupa rinini asuka mu kindi kintu kinini cyane.

Umugabo wambaye imwenda w'umukara n'ishati y'umweru na karuvate, ufite akarahure mu ntoki, k'umweru, imbere ye hari amacupa menshi y'inzoga, hirya ye, n'ikindi cyuma kizengurutse, harakamo amatara y'ubururu n'umweru.

Ni resitora irimo ibyo kunywa inzoga n'amafanta n'amaji, iruhande rwayo hari firigo irimo amatara, imbere yaho hari ameza manini cyane ateretseho ibyo kunywa n'intebe ziri imbere yayo meza harakamo n'andi matara y'amabara atandukanye.

Inzu nini cyane yanditseho inzu nini cyane yanyanditse mu cyongereza, imbere yayo hari abantu benshi batandukanye harimo abagabo n'abagore, hari n'intebe zikoze mu mbaho n'ameza n'amatara yaka amabara y'umweru.

Icyapa kinini kiriho amafoto abiri y'bagabo babiri n'abakobwa barimo babyina banezerewe mu nsi y'icyo cyapa handitse mpuzamahanga ijana ku ijana y'ikinyobwa kitwa marite naho hasi handitseho gukoresha byinshi ntabwo ari byiza ku buzima bwawe.

Inzu, imbere y'iyo nzu handitseho " Nta guparika hano guhari!", ku gipangu cyaho, hari icyapa cyanditseho Amusiteri, hari umugabo uhagaze iruhande ry'icyapa, gare imbere ye, iruhande rwe hari moto, imbere mu muhanda hari umumotari utwaye umugenzi, hirya y'aho hari imodoka, inyuma y'aho hari umusore urimo gutambuka.

Umugore usutse imisatsi nufite terefone igezweho mu ntoki wambaye impeta ku rutoki rwa mukubitarukoko, ucanweho n'amatara menshi ari mu ibara ritukura, inyuma ye hari indabyo n'ibiti birebire.

Ameza y'uruziga hariho icupa rirerire rya amusiteri n'ikirahure, hirya yabo hari abandi bantu barimo kunywa, hari n'ibiti biri hirya bigufiya n'amabara arimo yakamo y'amatara.

Aho bacururiza ibinyobwa bisembuye harimo televiziyo nsakazamashusho, abantu babiri bahagaze imbere y'aho babicururiza, umugabo n'umukobwa ameza ateretse inyuma, hariho umwenda w'ubururu n'intebe zegamirwa.

Ubutebe bubiri bw'umukara hagati hateretsemo akameza k'urubaho kazengurutse gateretse mu nguni ahandi hari inzugi iruhande rw'umuryango hari inzugi z'ibyuma imbere hari umuhanda w'umukara iruhande rw'umuhanda w'umukara hari indabyo n'ibiti birebire.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye mu imbere bacururizamo ibinyobwa bisembuye harimo mitsingi, pirimusi biteretse mu cyuma gikonjesha ibinyobwa n'ameza y'urubaho inyuma yaho hari iruhande rwa firigo hari mudasobwa.

Umuntu utwaye moto uhekanye na mugenzi we, mugenzi we wambaye ikote ry'umukara, bari kuri motommu muhanda inyuma yabo hari imodoka eshatu n'icyapa kinini kiriho ifoto hariho icupa rirerire ry'inzoga rya Amstel n'ikirahure kirimo inzoga ya Amstel iruhande rw'imodoka, hari igiti kinini cyane cy'amashami.

Resitora irimo ibyo kurya n'ibyo kunywa, ibisembuye n'ibidasembuye hari abakobwa babiri, umwe wicaye kugatebe, n'undi uri gutambuka, inyuma ye hari indabyo n'amatara yaka amabara y'icyatsi hejuru ,no mu mpande harimo amatara yaka ibara ritukura.

Icyapa kinini kiriho ifoto y'ikinyobwa cya amusiteri kiri mu icupa rirerire, n'ikirahure kirimo amusiteri hejuru handitseho ko batanga ibyo kurya, bafitemo n'akabari banakora kunanura imitsi no kugorora ingingo.

Inzu nini, y'inyubako, irimo televiziyo isakaza amashusho, abantu benshi bihagaze n'abicaye barimo gufata icyo kunywa, hari n'abunamye bareba muri telefone, hari amatara yaka amabara yaka amabara atandukanye, uryaka ibara ry'icyatsi n'ubururu.

Ameza ateretseho amacupa azengurukijwe n'intebe n'izindi ntebe ziri hirya ndende z'ibyuma, imbere yayo hari televiziyo isakaza amasusho ndetse n'ibikuta bisize marangi meza y'imyeru.

Inyubako irimo intebe ze zirimo n'abantu benshi, imbere yaho hari ameza maremare cyane, hirya yaho hateretse ibyo kunywa byinshi bisembuye n'amatara yaka hejuru na televiziyo isakaza amasusho.

Abagabo batatu harimo n'uhetse igikapu(bag) bar'iruhande rw'igipangu hejuru yicyo gipangu hari icyapa cya amusiteri inzoga, hariho n'amashusho ,amafoto yuko bateka inyama zokeje, imbere y'aho mu gipangu hari icyapa cyanditseho ko ntaho guparika igare, intebe n'inzu.

Inzu y'ubucuruzi iriho icyapa hasi yacyo handitse atalasi resitora, hariho na nimero yabo ya telefone uramutse ubakeneye, zeru karindwi umunani mirongo inani na gatanu, itandatu karindwi mirongo itatu na gatatu, kane n'iyindi, banacuruza amashati y'abagabo n'abasore, bakanacuruza ibyo kunywa n'ibyo kurya.

Umuntu wambaye umwenda w'umukara ufite amacupa abiri arimo asuka mu ijyaga izo nzoga azihurije hamwe, imbere ye hari ubundi burahure inyuma ye hari amacupa maremare y'inzoga zitandukanye.

Inyubako irimo ameza mo imbere, hejuru hatatseho imbaho zubatse neza, n'amatara, n'intebe, n'ameza y'umukara, n'intebe n'imitako iri mu bikuta by'iyo nzu.

Inzu y'igorofa iriho icyapa cyanditseho aho bacuruza ibinyobwa bisembuye, hariho amacupa atatu munsi yaho hari imitako y'indabyo, umukindo ukiri mutoya n'ikindi cyapa kiri imbere yayo cyanditseho virunga.

Resitora irimo ibyo kunywa na tereviziyo iri iruhande rw'ahatere ibyo kunywa, n'abagabo babiri bahagaze imbere yaho batangira ibyo kunywa, hari n'ameza, iruhande hari udutebe tubiri tw'ibyuma, tubiri tubiri ameza atanduaknye.

Inzu irimo ameza iriho igitambaro hariho isahani iriho ifoke n'agashyo gatoya n'abantu bahagaze hirya no hino bari mu kugura amaterefone n'intebe ziri iruhande rw'ayo meza, n'ameza ariho igitambaro cy'umweru n'ayandi ariho igitambaro cy'umutuku.

Urukuta runini rwa rusize ibara ry'umuhondo, n'ibara ry'umutuku ku rukuta ku ruhanda handitse handikishije ibara ry'umutuku ijambo rya sikoro, n'imbuga nini ishashemo amabuye mato y'amatafari, hirya yaho hari igishushanyo cya mapu y'afurika.

Inyubako inyubako irimo intebe zitukura n'ameza zanditseho amsteri harimo abantu bicaye barimo kunywa, n'inyuma yaho hari umwijima iruhande rwaho hari inzu nini cyane y'igorofa harimo hacanyemo n'amatara y'amabara atandukanye.

Akabari karimo umukobwa wambaye umwenda w' umweru, dore imbere ye hateretse amacupa no hejuru ye mu kabati amacupa ya pirimusi , n'ibirahure birimo izo nzoga, hari ni icyapa cya mtn kiriho imibare wakanda ugiye kubishyura maganinani, maganatandatu ,ukemeza.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibyo kunywa ibisembuye n'ibidasembuye, harimo, umuntu wambaye imyenda, ishati y'umweru n'undi mweda inyuma utukura, asutse imisatsi ufite ji y'ubutunda imbereye hari undi muntu utarimo kugaragara neza.

Inzu icururizwamo ibyo kunywa byinshi bitandukanye harimo inzoga amafana nibyo kurya harimo amaza manini cyane azengurutse yumukara harimo mudasobwa hejuruyayo mo imbere harimo umuntu wambaye ishati yu umukara imbere yayo meza hari intebe eshatu zibyuma ndende zitari ndende cyane.

Resitora yicayemo abagore babiri bicaye kuntebe ndende, imbere yaho hateretse ameza manini hari n'akabati karimo ibyo kunywa ibikonje n'ibidakonje, hari na tereviziyo ibari imbere irimo amashusho iruhande rwabo icyuma gikonjesha ibinyobwa.

Ibisenge by'amazu asakajwe n'amabati atukura asize irangi ry'umutuku, ubururu, hariho n'iminara yerekana amashusho, bisa n'ibyerekana amashusho, hariho za kanari na Amstel na StarTime n'ibiti.

Umugabo utambuka ufite akamvirope mu ntoki na telephone, imbere ye, imbere ye hari umutaka wa emutiyene inyuma yuwo mutaka hari icyapa kinini kiriho icupa rya mitsingi, inyuma yicyo cyapa hari imodoka imodoka eshatu ni nzu ndende.

Ikaye yanditsemo ibyo kurya bafite n'ibiciro byabyo. Bafite; ifi y'ibihumbi bitanu, umuceri w'ibihumbi bine, ifiriti y'ibihumbi bine n'ibindi biryo bikomeza bikomeza biri hasi bya cumi na bibili. Bahasi bakabifuriza kuryoherwa n'ayo mafunguro.

Inyubako nini cyane irimo abantu barimo ubona bishimye, banezerewe, babyina, hirya hari amameza ateretseho ibinyobwa bisimbuye, harimo amatara abacaniye, mbere yabo hari insakazamashusho barimo bakurikirana barimo banezerwa, barimo kunywa banabyina.

Akabati karekare cyane, karimo ibyo kunywa bisembuye byinshi by'ubwoko butandukanye , na televiziyo, hasi hari ahandi hateretse izo izo nzoga, imbere hari ameza y'urubaho, asize ibara ry'umweru rudafashe.

Inyubako ndende ebyiri igeretse gatatu imbere yaho hari ibiti n'amazu asakaye imbere yayo hari ibigega n'iminara na za kanari, sitatayimu n'ibyapa binini bya amusiteri.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku, ipanaro y'umutuku ishati y'uburongo n'inkweto z'umukara imbere ahteretse amacupa menshi n'ameza ariho amacupa n'abantu batatu n'inyuma ye hari ameza ateretseho amacupa menshi y'inzoga.

Abantu benshi bicaye mu matsinda atandukanye barimo kunywa no kurya, bari ahantu hasakaje imyenda ifite amabara y'icyatsi hari n'icyapa gitoya cyanditseho heineken, impande habo hari indabyo ngufiya n'ibiti.

Inzu y'ubucuruzi irimo amafanta menshi ya coca, n'intebe eshatu zigerekeranije zitukura n'akabati kandi kari inyuma y'izo fanta, harimo inzoga z'ubwoko butandukanye, amacupa maremare na fanta n'ama ji.

Abantu babiri, uwambaye umwenda w'ubururu, w'umugore udafite umusatsi muremure, ufite telefone, n'undi usutse imisatsi ufite ikarita, arimo kuyitungaho iyo karita, inyuma yabo hari icyapa kiriho, gishushanijeho inzoga.

Icyapa kinini kiriho ifoto yanditseho mitsingi mbere yaho hari umugabo uri kuri moto uri kuri telefone hari n'ibage iremereye imbere y'umuryango ukinguye, hejuru yawo hari n'icyapa cyanditseho ku bacuruza ibyuma by'imodoka.

Hejuru y'inzu hariho iyapa kinini cyane, cyanditseho amositeri, icyo kunywa gisembuye cya amusiteri, ndetse hejuru yacyo hari ikirere gisa neza, gikeye, hari n'ibiti hasi.

Inyubako ndende y'igorofa hariho icyapa kiriho ifoto ya amositeri, iri mu icupa rirerire n'ikirahure, handitseho ko bafi bacuruza ibyo kurya bakanatanga inzoga, kandi ko bata aribo bafite ibyo kurya byiza muri Afurika, bafite n'imikono myinshi cyane kuri tereviziyo yabo, hariho n'ifoto iriho abagore basutse imisatsi.

Inzu irimo abantu benshi batandukanye, harimo abicaye ku ntebe, imbere yabo hari amameza, babiri baganira, hirya hari abandi baganira, hejuru yabo hari amatara marare abamuritse, hari n'indabyo na za mudasobwa hirya yabo.

Icyapa kinini kiriho icupa ryanditseho sikoru. Hariho abagabo bane, batatu bari inyuma bizihiwe cyane, iruhande rw'igipangu kiriho amatara na senyenge, n'umuhanda w'umukara, moto n'imodoka n'igiti kinini kigaye cy'umunyinya.

Intoki z'umuntu w'inzobe ufashe ku gitabo cy'umukara n'akabara gatukura, imbere y'izo y'uwo muntu hateretse ikiyiko n'ifoka n'uburahure butanu burebure bw'umweru buteretse ku meza.

Akabati karimo inzoga zitandukanye, amacupa maremare n'amagufi, iruhande rwayo hari televiziyo irimo ibara ry'icyatsi, ndetse n'amatara yakamo amabara y'ubururu, acanye muri ako kabati, hateretsemo amacupa.

Ameza ateretseho ibyo kunywa bitandukanye biri mu kirahure mu macupa ateretse ku meza n'amatara yaka ibara ry'umweru, amatara menshi ari mu mpande zitandukanye z'iyo nyubako.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umukara ufite igitabo urimo kurambura impapuro imbere ye hari ameza y'urubaho hirya ye hari impapuro nyinshi na amvirope nyinshi hari n'akabati karimo ibitunguru by'inshi cyane.

Abantu babiri, imbere yabo bafite amatelefone mu ntoki, ku meza yabo hari ibirahure bitatu; kimwe kirimo ibyo kunywa, n'icupa ry'inzoga, inyuma yaho hari kandagirukarabe, n'inzugi zisize irange ry'umweru.

Aho bacururiza, harimo inzoga, ibinyobwa bisembuye, harimo henikeni, pirimusi, panashi, igisiga n'ingwe, hariho n'ameza n'utuzeru tubiri dukoze mu rubaho tw'umuhondo n'umutuku.

Resitora irimo ibyo kurya n'ibyo kunywa, imbere hateretse icyuma gikonjesha, firigo, n'inzoga zitandukanye, harimo umusore uhagaze, n'ameza, hejuru hari amatara yakamo ubururu n'umutuku n'icyatsi.

Inzu isize amarange y'umuhondo handitseho Skol hejuru y'igipandu, igigpangu cy'umweru kiriho icyapa kerekana ko ari resitora bateka ibyo kurya hakaba n'akabari bacuruzamo inzoga zitwa za Skol na Malt.

Inyubako itakimo ibyo kunywa byinshi bitandukanye harimo ibisembu n'ibidasembuye, hari amacupa agerekeranije aho yagenewe gutereka asembuye Heineken, Primus na béer hari n'andi akandi kabati karimo amafanta, amaji atandukanye n'amaji yo mu budomoro.

Icyapa cyamamaza inzoga bacuruza n'ibyo kunywa inyuma yaho hari ibiti birebire cyane n'igipangu kiriho ibyuma n'imodoka ziri mu muhanda na motari uhetse umugabo.

Ameza y'umukara hariho isahane ngari ariho ibyo kurya, harambitseho n'amafoka barisha n'uturahure tubiri tureture turimo icyo kunywa. Hari n'intebe y'umukara iri iruhande rw'ayo meza, inyuma y'iyo ntebe hariho n'indabyo z'icyatsi.

Abantu babiri b'abagore bicaye ku ku ntebe z'ibyuma barimo baganira inyuma yabo hatertse ibinyobwa byinshi bitandukanye iruhande rwabo hateretse firigo irimo ibinyobwa bitandukanye imbere y'abagore hateretse ubutebe bubiri bw'ibyuma hariho agafariso gatukura hari ahantu hatagaragara neza cyane itara ntabwo ryaka cyane.

Agasahane k'agaparato kazamuye harambitsemo urupapuro, rwagenewe gufatishwa ibyo kurya umuntu arya, biri hejuru y'icyuma cy'umweru, hariho n'ikindi gitambitse hejuru yacyo.

Ameza hariho ikaramu, hejuru y'aya meza hariho indobo y'umweru irimo amandazi, hariho n'iyindi ndobo, ipfundikiye hejuru ari ho irusha yarura hari n'urugi rw'ubururu.

Icyuma kirimo kuvamo amata ijaga y'umweru n'umuntu wicaye ku ntebe urimo gufungura icyo cyuma ngo amata ajye mu ijaga, ufite akadomoro k'umweru ka ritiro ebyiri inyuma ye handitse inyange amata zone, n'undi muntu uri imbere ye utegereje kwakira ayo mata.

Ndabona umugore usutse imisatsi w'imibiri yombi usa nku wiruka mo gacyeya uruhande rwe hari icupa rya fanta ya coca ishushanyije ku cyapa imbere ye intebe ya plastic n'icyapa cy'ubururu munsi yicyo cyapa hari agakarito.

Aho bacururiza ibyo kunywa, harimo umukobwa wicaye wakira amafaranga n'undi muntu umuhagaze imbere urimo kumwishyura, n'ameza amuhaga amuteretse imbere hirya ye hari akabati karimo gateretseho amateremusi abiri n'indobo y'umweru imbere yaho hari amaji menshi.

Abantu babiri bicaye ahantu hatagaragara neza, uwambaye umwenda yarengejeho undi mwenda mu ijosi w'umweru, imbere hari agakombe k'amata ya yahurute n'isahani, n'undi muntu uri inyu ye wambaye ishati irimo uburongo, uri mo imbere mu nyubako.

Inzu y'ubucuruzi ifite umuryango uri gucuruza imyenda undi muryango harimo imiti. Imbere y'iyo nzu y'ubucuruzi hari imodoka ebyiri imodoka imwe irimo ivamo umugore, imbere y'iyo modoka harimo umukobwa urimo utambuka wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi.

Umuntu w'umugore, wambaye umwenda muremure, w'ubururu , n'agatambaro k'umweru mu mutwe, n'ibaga y'umukara, ahagaze imbere y'akabati gateretsemo imineke, amadegede, amazi yo kunywa, na ji, na za enaje, n'undi mucuruzi uri imbere ye.

Ubudomura butandatu, butanu bw'umweru n'akandi k'umuhondo gafite umupfundikizo utukura, buterete mu nzu imbere ku makaro y'umweru cyane, iruhande rwayo hari ikani irimo ubusa.

Umugore uri kuri telefone yaka, hagaragaramo amashusho, ijaga iteretse iruhande rwe , imbere hari akabati kerurutse karimo isahani nini irimo amagi, inyuma hari agakarito k'inyange na jus z'ubutunda, n'icyuma gikusanya amata, n'umugabo wunamye, n'indobo y'ubururu ndende.

Inyubako bacururizamo amata iriho amarange y'umweru, irimo abakobwa babiri bambaye ingofero n'imyenda y'imyeru cyane, inyuma y'aho hari icyapa cyanditseho intungamubiri mukeneye ku giciro kiza hari n'abandi bantu babiri baje kugura ayo mata , uwambaye umupira w'icyatsi n'undi mugabo ubareba wambaye amarinete.

Akabati karimo ibidomora bibiri kimwe kirimo ubusa kiri mu umwanya wo hejuru, ikindi kiri mu mwanya wo hasi kirimo ubusa, kiri ku kabati kari ku nzu y'ibitafari ahiye.

Amacupa atandatu y'amazi ya gibu arimo ubusa aryamye afungiranye ahantu hariho ingufuri hasize irange ry'ubururu bucuyutse n'ubufashe ku ruhande.

Ni ameza asize ibara ry'umweru ryererutse hateretseho hejuru agacupa gato k'agapurasitika, harimo uduti dutoya tubaje twagenewe gukurishamo ibyo kurya umuntu mu gihe nyuma amaze kurya.

Ububiko bw'amata y'ikivuguto yanyuze mu ruganda yitwa yahurute, harimo iziri mu dukebe tw'ibara ry'icyatsi, hari n'iziri mu ducupa mu ibara ritukura zikorwa mu nkeri zigiye zigerekeranyije.

Abantu barimo kunywa banezerewe cyane b'abagabo, bafite ibikombe by'amata bagiye babihuza bibiribiri ubwo ni ibikombe bitandantu, bari n'amandazi abateretse imbere yabo kumasahani, isahani iteretse hejuru y'ameza.

Icyuma gikusanyirizwamo amata iruhande hari indobo, intebe n'ameza y'umweru, imbere yaho hari akabati kariho igipapuro kiriho amafoto y'akadomora ka ritiro eshanu na ritiro ebyiri ndetse n'ibidomora birambitse n'amacupa maremare y'amazi ya nile.

Ameza y'umweru, ateretseho isahani ngari, n'indi yindi iri hejuru yayo, ikirahure, iriho amandazi menshi, amandazi cumi n'atandatu, irindi rindazi rimwe rirasatuye, riciyemo ibice bibiri. Turareba umuhondo waryo.

Igikombe cy'umweru kinini kirimo amata yuzuye giteretse hejuru y'ameza hirya y'icyo gikombe hari icupa rigaragara igice kimwe ry'amazi, munsi yabyo hari igitambaro cy'umweru cy'umutuku n'icyatsi kirekire.

Amata ari mu gakarito, y'inyange, n'amata ari mu kadomora ka litiro enye, n'akazi litiro eshatu, n'aka litiro ebyiri, n'aka litiro imwe, iruhande rwayo hari n'imigati iri mu dushashi, iteretse hajuru y'ameza. N'igutambaro cya shokora.

Umugore wicaye ku ntebe ya purasitike wambaye itaburiya y'umweru. Iruhande rwe hari akadomora k'umweru ka ritiro eshanu. Hanyuma imbere hari kura yanditseho inyange, irimo kuvoma amata muri ako kadomora. Iruhande rwa kura hari ibidomora bya ritiro makumyabiri n'amakarito y'inyange.

Amagi menshi atondetse ari mu kantu k'icyatsi baterekamo amagi menshi, umuntu uhagaze iruhande wamabye umwenda wa oranje wanditseho abusora Mayange Bugesera niho bakorera amagi niho bacururiza nimero ye ya telefone zeru karindwi umunani makumyabiri na kabiri mirongo itatu na gatanu.

Ameza y'umweru munsi yaho hateretsemo indobo yagenewe gushyirwamo imyanda itukura, hejuru hari indobo irimo capati, indobo y'indi irimo amandazi, imineke, indobo y'indi irimo amagi n'agacupa k'uduti twagenewe gukora mu menyo umuntu amaze kurya, icupa ririmo urusenda n'ikiyiko n'umuntu uhagaze ku ruhande.

Inzu yubakishijwe amakaro, harimo icyuma gikomeye kiriho gifite amaguru ane n'ibindi byuma bitambitse, hariho umwenda w'ibara ry'umuhondo.

Amakane menshi arimo amata, n'andi atarimo amata. Harimo umugabo urimo urayaterura wambaye agapfukamunwa gatukura; n'undi urimo abuganiza amata n'intebe z'imbaho zibari inyuma.

Inyubako irimo amakaro harimo ameza y'umukara umukobwa wicaye wishikamije kuri ayo meza ureba kuruhande kuruhande rwe hari intoki z'ikiganza gipfumbatije ikintu.

Intoki zifashe keke ifatishijwe urupapuro rwagenewe gufatisha imigati urimo kurya n'isahane y'umweru n'ibara ry'umutuku iteretse ku meza n'intebe y'ubururu ya pulasitike.

Akabati karimo ibidomora bibiri n'ikidomara kimwe kirimo ubusa n'ikindi kirimo ubusa biri mu kabati, biri mu nzu y'amatafari ahiye n'urupapuro runini rwanditseho amagambo.

Akabati gateretsemo amazi maremare ya litiro n'igice ya Nile yuzuye n'uruhande rwayo hateretse ikarito ivamo amazi igikuta cyayo gisize irange ry'umweru.

Ameza ateretseho igikombe kirekire cyuzuye kirimo amata, n'ikaramu ipfundikiye, n'intoki zifashe keke iriye ho, munsi yaho hari indi sahani y'umweru iri munsi y'ayo meza.

Icyuma cyagenewe ikusanyirizwa mo amata, cyahagazwe imbere umuntu wambaye ikote ry'umukara, imbere ye hari ameza ateretseho indobo irimo amandazi, iruhande rwaho hari urundi urubaho rusize irangi ry'umweru n'igikuta gisize ibara ry'ubururu.

Iduka ricuruza ibyo kunywa ama ji, imigati, amandazi, amacake, amasambusa n'amata yo mu dukarito n'amata yo mu dushashi y'inyange na ji z'udutunda ndetse n'iz'imyembe y'inyange.

Icyuma cy'amata imbere hari ikidomora cy'umweru kirimo akabirikira hirya hari umwana mutoya n'umuhungu wundi ufite terefone mu ntoki imbere yaho hari amakarito y'inyange n'umukobwa uhahagaze hirya ye hari firigo iteretsemo ubudomora bw'amata.

Icyuma gikonjesha giteretsemo akadomora ka litiro eshanu harimo amata atuzuye icupa ry'amazi rirambitsemo, hasi harimo igiyaga n'igikombe inyuma y'icyo cyuma gikonjesha iruhande rwacyo hari ikidomarara cy'amazi cyajibu gicuritse biri ku gikuta cy'amatafari ahiye.

Icyuma gikusanyirizwamo amata cyanditseho inyange, amata y'inyange zone imbere hari ikidomora cy'umweru cya litiro makumyabiri n'umubirikira urimo imbere n'indobo imanyutseho ku ruhande n'ameza ya a pulasitike n'intebe y'umweru ya palasitike, hirya yaho ni icyapa gishushanyijeho inyange byanditse no mu magambo inyange.

Umugore ugiye gufata icyo kunywa. Aricaye imbere ye hari ameza. Hari umuntu w'umugabo umzaniye icyo kunywa mu gakombe; akarahure. Iruhande rwe hari udusorori tubiri, iruhande rw'uwo mugore hari umuntu wambaye ikote ry'umukara, n'ingofero y'ubururu ureba hasi. Hirya yabo hari ahandi hateretse ibyo lurya imigati n'amateremusi.

Inzu ifite akabati, hejuru y'akabati hariho ibirere bibiri, inyuma hashushanyije inka, ku gikuta gisize ibara ry'ubururu n'amatafari ahiye ricishijemo irangi ry'umutuku n'umukara.

Umuntu ufite ijyaga urimo kubuganiza amata mu gakombe gato ka purasitika, imbere ye hari ibindi bikombe byubitse, imbere handitseho ngo amata meza, amata meza cyane, amata atunganijwe, atunganijwe isuku.

Icyuma gikusanyirizwamo amata n'ikindi cyuma gitunganya amazi kiri ku ruhande rwacyo kitetseho hejuru ijaga y'umweru irimo ubusa, ibidomora byumweru bya little makumyabiri n'indobo iteretse ku ruhande y'umweru urimo ubusa.

Abana babiri barimo kunywa amata banywesha keke imbere yabo hateretse ubudomoro bubiri bwa ritiro eshanu ni kane y'amata, ndetse hejuru ku meza y'umweru n'umugabo ubari iruhande wambaye umupira w'umweru n'imbere yaho hari umugabo wambaye umwenda w'icyatsi

Inzu y'ubucuruzi yanditseho, ifite icyapa cyanditseho ikusanyirizo ry'amata yitwa Ikaze. Bafite amata yo mu dukebe ya yahurute y'Inyange, ji y'umuyembe y'Inyange, ji y'ubutunda y'Inyange n'iyinkeri y'Inyange, n'amazi, n'amata yo mu dukarito maremare.

Akabati karekere kirabura karimo imyanya itandukanye gateretsemo ubudomoro bw'umweru bwa ritiro eshanu bwinshi hirya yako kabati ateretse n'igikarito igikuta ni umweru.

mUuguzi n'umucuruzi bahurira bakaganira ku bijyanye n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, umuguzi akagabanyirixwa agera kuri mirongo itatu ku ijana, bakaba babimugezaho ku buntu ndetse bikaba byizewe.

Akabati hejuru hateretse indobo irimo amandazi munsi hari uburahure bunywa amazi, ni ibindi bikombe binywa amata, ibikombe umunani kandi hasi yaho hari amvelope irimo ubusa n'umwenda w'umuhondo, iruhande rwayo hari ikarito iriho amazi y'inyange.

Imodoka iri mu muhanda, hari ibiti by'imikindo birimo bizamuka, amakarito ateretse imbere y'umuryango, inzugi isize ibara y'ubururu handitseho Inyange, mo imbere harimo amakarito y'inyange, amacupa maremare y'amazi, n'amatara arimo yaka.

Inzu y'ubucuruzi ifite irangi ry'ubururu, imbere y'iyo nzu hari kandagira ukarabe, ku miryango y'iyo nzu baramamaza ko bacuruza amata y'inyange bafite n'inyanya. Mu imbere muri iyo nzu y'ubucuruzi harimo ibicuruzwa bitandukanye; amabisikwi n'amabombo, hateretsemo n'imeza y'ubururu ngufiya ya pulasitike.

Inzu y'ubucuruzi irimo akabati gateretsemo ibyo kunywa bitandukanye, ji y'Inyange, coca n'imyembe na za enaji, harimo n'icyuma gikusanya amata na teremusi n'indobo iteretsemo amandazi n'umukobwa wicaye ku ntebe n'umugore wicaye ku ntebe arimo kunywa.

Icyuma cyagenewe gukusanyirizwamo amata kirekire cyane, kiri munyubako y'amakaro y'umweru, n'inzugi zisize ibara ry'icyatsi, iruhande rwaho hari ikindi cyuma kigaragaza igice kimwe....

Ibiganza bibiri bifashe isahani nini iriho amandazi menshi menshi menshi menshi atetse neza, ateretse hejuru yameza irimo uburongo bw'umuhondo, umukara n'umweru asa nk'aho ayaha abakiriya.

Abana babiri, umukobwa n'umuhungu bari kunywa amata bafite na keke mu ntoki, imbere yabyo hateretse ameza y'umweru n'ubudomora bubiri bwa litiro eshanu n'umugabo uhagaze iruhande wambaye umupira w'umweru, hirya yabo hari n'undi wambaye imyenda y'icyatsi uhagaze.

Aho bafatira icyayi harimo abantu batatu barimo kunywa amata, babiri bashyize igikombe ku munwa barimo kunywa. Undi wambaye ipantaro y'umukara ntago aranywa n'amajage abateretse iruhande rwabo. Bari ku gikuta cy'umweru n'ubururu n'ikirahure cyo kwireberamo imbere yabo.

Igikombe kinini kirimo amata, hirya hari ikindi kinini kirimo amata, n'akadomora k'umweru ka ritiro eshanu, n'ameza ashasheho ishashi y'ubururu n'umweru, n'intebe ya parasitike y'umweru, hirya yaho hari indobo iteretse ho indobo irimo amandazi.

Igikombe cy'ikirahure kirimo amata atuzuye, iteretse ku meza y'umukara. Iruhande rwayo hari isahani iriho ibyo kurya, n'indi sahani iriho ubusa, n'ubutambaro bwa, n'ubupapuro bwagenewe gufatisha ibyo kurya urimo kurya, n'ameza y'umukara cyane.

Icyuma cyagenewe gukusanyirizwamo amata cy'uruganda. Amata y'i Nyanza harirho ifoto ishushanyijeho inka. Umuntu wambaye umwenda w'umukara, n'indobo irimo amandazi, n'urundi rubaho rw'umweru rwererana ruri hiryay'icyo cyuma.

Umukobwa afite akadomora ka ritiro icumi usuka amata mu bikombe binini, iruhande rwe hari ijage irimo amata ituzuye inyuma ya hari akabati karimo abayunguruzo hirya hari umwenda w'umweru.

Igikombe cy'ikirahure kirimo amata y'inshyushyu imbere yayo hari agasahani k'umweru gateretse hejuru y'ameza y'umweru hariho n'urukuta rw'amakaro ayo mata ateretse hejuru y'ayo meza.

Icyuma caygenewe gukusanyirizwamo amata, amata y'i nyanza, hashushanyijeho inka hejuru kari isahani igaramye izamuye, ku ruhande ameza y'urubaho n'ikayi n'intebe y'icyuma.

Isahani iriho udukeke dutoya dutandatu n'indi imwe yaguye ku ruhande, hirya y'iyo sahani hateretse utwo bazikoresha, iyo sahani iteretse hejuru y'ameza y'umukara.

Inzu y'ubucuruzi iriho icyapa cyanditseho inyange miliki zone hari kandagira ukarabe, indobo ameza ya parasitike n'intebe ebyiri zanditseho pirimusi n'umutaka utukura , hirya hari ahantu hateretse amafata menshi n'amakarito menshi y'amazi.

Ubutunda butatu bubiri budasatuye kamwe gasatuye karimo umutobe ubundi bubiri bumaze kurongwa buriho amazi nikiganza cyumuntu ureba intoki ebyiri.

Inzu iteretsemo intebe y'urubaho, ameza manini ateretseho igitabo, akadomora ka ritiro eshanu, ibaga ifitwe n'umuntu w'umugore, igare ritoya imbere y'umuryango, rakirete imwe bakoropesha, icyapa, umupira w'imbeho, umutaka wa Airtel mu nguni.

Abantu bahagaze imbere y'ameza ateretseho ibyansi bitandukanye harimo umwe ufite icyansi cy'umutuku arimo abuganiriza mu kindi cyansi no ku ruhande hari igiti kiziritseho inka nini y'inzungu iri mu gicucu cyicyo giti.

Igikombe k'ikirahure kinini kirimo amata y'inshyushyu, hirya y'icyo gikombe hateretse icupa rigaragara igice kimwe cyo hasi giteretse hejuru y'umwenda igitambaro cy'umutuku harimo n'utudomo tw'umukara n'irindi bara ry'icyatsi.

Akameza kagerekeranije kariho amasahani hasi mu kandi kanya hateretsemo indobo ebyiri irimo amandazi na keke na rushe yarura hejuru yaho hatertse terimusi abiri n'indobo irimo capati ebyiri inyuma yaho hari icyuma gikonjesha kiriho icyapa cya Mukamira, ikivuguto n'inshyushyu y'inka.

Umukobwa ufite amafaranga urimo kwishyura, inyuma ye hari intebe n'ameza, n'icyuma cyagenewe gukonjesha. Iruhande rwe hari ameza maremare yagenewe guterekaho. Hariho indobo y'imigati, iy'amandazi, indobo ya Keke. Mo imbere harimo ucuruza, n'inyuma ye hari ubudomora butondetse ku murongo.

Indobo y'ipurasitike y'umweru ifunguye irimo irushe, amandazi yashizemo hasigayemo amandazi abiri ateretse hejuru y'ameza y'urubaho.

Icyuma gikusanyirizwamo amata cyanditseho amata y'inyanza, uruganda gishushanyijeho igishushanyo cy'inka munsi y'icyo cyuma, hari ijaga n'akabati kandi karimo ubudumora bwinshi bw'amata, bwa litiro eshanu n'ubwa litiro ebyiri.

Ikusanyirizo ry'amata yitwa miriki zone y'Inyange ndetse itanga amata meza, aryoshye, yujuje ubuziranenge harimo urimo kuyavomamo n'indobo y'ubururu n'umugabo umuhagaze iruhande wambaye umwenda w'umweru n'amata y'andi ari mu dukarito ari komande.

Akabati k'ikirahure gasize ibara ry'umweru karimo imineke ya mbogoya harimo n'utundi dusahane dutanu n'udusorori turimo insenda z'umuhondo cyane insenda zitukura n'izindi nsenda zitari umuhondo.

Umukobwa ufite ijage y'icyatsi, urimo kubuganiza amata mu cyansi, ufite icyansi cya ritiro eshanu, n'umubirikira n'ibindi byansi biri inyuma ye bya ritiro eshanu n'ijage na ritiro ebyiri, n'undi muntu uri mu idirishya, uhagaze mu idirishya inyuma.

Inzu y'ubucuruzi harimo akabati karimo ji z'ubutunda, amazi y'inyange, amata y'inyange, indobo imanitse hejuru y'akabati, hasi yaho hari isahane nini iriho amagi hirya yaho hari indobo y'ubururu n'icyuma bashyiramo amata.

Kura handitseho inyange miriki zone, n'ibicupa bya gibu birambitse n'uburimo amazi, n'ubukarito bw'amata buri hejuru y'nyange, n'ubucupa bw'amazi y'inyange, na za ji z'inyange, n'ubudomoro bw'umweru butatu, buteretse ku ruhandu. Kuri ubwo budomoro hari ikarito ndetse n'idomoro birebire by'amazi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibara ry'ubururu irimo umukobwa ufite terefone mu intoki hari hari akabati gateretseho hejuru akadomoro ka ritiro eshanu katuzuye n'abana babiri umwe udite agacupa mumufuka n'umuntu ufite amverope m'umufuka mu intoki nuhindukiye amuvugisha n'ibicupa biteretse iruhande rwe by'inyange biryamo amazi.

Indobo ebyiri imwe yubitse indi itubitse hejuru hariho irushe inyuma yazo hateretse ubucupa bw'amazi y'inyange na fanta n'icupa rirerire ry'amazi ya nili n'amata yo mu gakarito karekare y'inyange na ji z'inyange.

Umwana w'umukobwa wambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru, uri kuri terefoni; ureba muri terefoni. Inyuma ye hari intebe, intebe y'urubaho; hirya ye hari ameza maremare ateretseho n'igitabo, mu nguni hari umutaka wa Eyateri. Inyuma y' iyo ntebe hariho n'amata ari mu ikani, biri mu muryango hari n' igare.

Akabati karimo amagi icumi, hirya yaho harimo ubusa n'igikuta cyumweru giteretseho ayo magi.

Umuryango ukinguye usize irangi ry'ubururu uriho icyapa ushushanyijeho inka yerekana ko aya mata ari ay'uruganda rw'i nyanza, inyuma yaho y'umuryango hariho ibidomora by'amazi bya plastiki bya jibu.

Icyuma giteretseho hejuru ijage irmo ubusa hirya hari umuntu ugihagaze iruhande, imbere hari ijerekani irimo amata yuzuye hari n'undi mukobwa wambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru , n'ikabutura ngufi n'urukweto ureba muri telefone iruhande rwe hari icyapa cyanditseho amagambo.

Yahurute eshatu z'inkeri ziri mu ducupa tureture, n'izindi hurute ebyiri z'inkeri ziri mu dukebe, ku ruhande rwayo harimo amacupa abiri maremare ya nire y'amazi yo kunywa n'ubudomara bubiri burimo amavuta y'inka.

Icyuma cyamamaza amata y'Inyange, inyuma yacyo hari ahantu hateretse amata y'Inyange ari mu gakarito, ji y'ubutunda, ji y'imiyembe n'amazi yo kunywa, ku ruhande rw'icyo cyuma hari intebe ya purasitike.

Umuntu w'umugore wambaye iniforomo ya'amaboko maremare afite ijage arimo kugurisha amatara n'ikayi iruhande rwe ryateretse hejuru yameza yumweru nagacupa kariruhande karimo ubusa, imbere yaho acururiza amata umuntu wambaye umwenda w'umweru.

Umugore wambaye umwenda utukura, afashe ku rukuta hariho urupapuro, ahindukiye afite uwo arimo abwira, imbere ye hari icyuma kinini cyane gikuswanyirizwamo amata, hejuru cyane mu nzu imbere hatatswemo bakoreshejemo imbaho.

Ameza ariho igitenge hateretseho igikombe cy'amata nisahane iriho amandazi atatu n'imyumbati iri ku ruhande, n'umudu wicaye imbere hateretse igikombe kirimo icyo kunywa n'ikiyiko na terefone, imbere ye na firigo ishushanyijeho icupa rya koko na fanta y'umukara.

Umusore uri mu iduka rigurisha ibyo kurya n'ibyo kunywa, harimo amaji y'inyange y'imiyembe, harimo biswi za mariya za girikoze harimo zayahurute, yahurute n'indobo irimo amasambusa n'irimo amandazi n'amazi yo kunywa.

Indobo ebyiri ziteretse hejuru y'ameza y'urubaho, indobo imwe irimo amandazi indi irimo keke, hejuru hateretse irushe iterura izo keke, umuryango usize ubururu irange ry'ubururu, ushushanyijeho za yahurute, imbere yayo hari umuhanda w'umukara urimo umugabo urimo utambuka, iruhande rwe hari indabyo.

Ameza ya purasitika y'umweru, hateretseho hejuru ijaga y'ubururu, hirya hariho n'umupfundikizo wayo, iruhande rw'ayo meza, akabati kanini gateretsemo nverope n'ushashi tubiri tw'amata, hirya hari umuntu wambaye ishati itukura, hirya y'uwo mugabo hari amakarito y'inyange.

Umuryango ufite inzugi ry'irangi ry'ubururu hejuru y'uwo muryango hariho icyapa kinini cyane kiriho ishusho y'inka hasi musi y'iyo nka handitseho Nyanza ahandi kuhande hashushanyijeho ubudomora bwa ritiro eshanu bwa ritiro ebyiri harimo amata n'ubucupa burimo amata na yahurute ku ruhande.

Ameza abiri y'umukara, yageranije, ateretseho isahane y'umweru, y'icyuma, iriho keke eshatu, iwe ifatishije, iri hejuru y'urupapuro rwagenewe gufata ibyo kurya, nk'imigati, amakeke n'amandazi urimo kurya.

Inzu irihoicyapa cyanditse ko bacuruza amata Mukamira, koperative bafite amata meza cyane wayabariza ahongaho, mo imbere harimo icyuma cyagenewe gukusanyirizwamo amata, n'umuntu urimo imbere yambaye umwenda w'umukara, uhagaze mu muryango n'imodoka iparitse imbere y'uwo muryango.

Umwana muto w'imibiri yombi ufite agakombe urimo kunywa yahurute ufashe n'intoki ze zombi ko ari ebyiri afatiwe n'undi ugaragara igikumwe kimwe usize inzara ibara ry'ubururu.

Abantu batatu bicaye aho bafatira ibyo kunywa barimo kunywa amata, babiri bashyize amata ku munwa n'umwe urimo kunywa, n'amajage abiri abateretse imbere n'undi wa gatatu ufashe igikombe utarashyira amata ku munwa, bicaye mu ntebe z'umweru za purasitika, inyuma yabo hasize irange ry'umweru n'ubururu.

Inyubako irimo icyuma gikusanyirizwamo amata n'umukobwa wambaye ikore ry'ikoboyi n'imeza imbere ye, n'undi w'umugabo umuhagaze imbere wambaye umupira w'umukara, inyuma ye hari intebe y'ubururu, inyuma y'uwo mukobwa hari amacupa y'amazi maremare, za ji n'ubucupa bwa inaji.

Abantu batatu; umukobwa umwe n'abahungu babiri, bafite amacupa ya yahurute ya Masaka, bambaye n'imipira ya Masaka, bamamaza yahurute za Masaka, inyuma yabo hari akandi kabati karimo yahurute n'amata bya Masaka.

Ameza ariho igitambaro cy'umweru n'ubururu hateretseho ubushashi bune burimo imigati, keke n'amandazi n'igikuta cy'umweru kererana cyane.

Urugi rw'ubururu ruriho igipapuro gishushanyijeho inka, handitseho Inyanza amata y'Inyaza ku ruganda, irihande rw'urwo rugi inyuma hariho ibidomora bya ritiro makumyabiri by'amazi.

Inyubako yubakishijwe amakaro yumweru irimo amakani yagenewe gushyiramo amata harimo amatayuzuye na amakani atandatu ikani imwe iteretsemo ijaga y'umweru idaha amata.

Inzu nini cyane y'ubucuruzi yanditseho yora amata meza hashushanyijeho inka, harimo amata yo mu dushashi, amata yo mu dukebe, za yahurute zo mu dukebe tureture n'amata yo mu budomora.

Umugabo urimo kwishyura amafaranga ayahereza umucuruzi. Umucuruzi afite amafaranga mu ntoki, amafaranga, magana atanu. Inyuma y'umukobwa ucuruza hari ji y'umuyembe, fanta, enajye, mirinda na marite.

Ubukarito butanu bwanditseho ikivuguto na ritiro n'ubudomora bw'umweru bwa ritiro eshatu bw'umweru na yahurute ziri mu gacupa k'inkeri zikorwa mu nkeri, na yahurute zikorwa mu dukebe n'izindi yahurute ziri imbere mu makarito.

Kura yanditseho Inyange milkzone, inyuma yayo hateretse ji y'Inyange y'umuyembe, ji y'Inyange, ubutunda n'amazi n'amata ari mu dukarito n'amata ari mu dushashi.

Amata menshi ari mu cyuma cyagenewe kuyatunganya, kiyakonjesha, arimo amanuka ajya aho bategeye ibyansi, arimo kujyamo.

Ameza maremare ateretseho amata ari mubudomora y'ikivuguto mukadomora ka ritiro eshanu ka ritiro imwe ka ritiro eshatu, na yahurute ziri mudukebe na yahurute ziri m'uducupa z'inyeri.

Ameza ateretseho icyapa cyanditseho ikawa y'u Rwanda hariho n'ibendera ry'u Rwanda, handitseho ikawa y'umwimerere y'ijana ku ijana ikawa nziza cyane yujuje ubuzirantenge.

Ameza manini y'umweru hariho isahane, hariho ikiribwa gikorwa mu ifarini cyitwa capati, hariho capati eshanu nziza cyane, i ruhande rwaho hari ijaga.

Akabati gateretsemo ji y'inyange y'imyembe na fanta n'amacupa maremare y'amazi ya nile n'amatoya ya nile na novida, n'amazi manini yandi.

Amacupa y'amazi ya Nile apfundikiye yuzuye iruhande hari envilope ndende cyane iruhande rundi hari envilope y'indi izinze, igikuta cy'umweru n'urugi rusize ibara rya shokora..

Urugi rw'ubururu ruriho ifoto y'ubukombe bwa yahurute n'ibidomora bya palasitike bine bya jibu iruhande hari firigo icyuma cyagenewe gukonjesha kirimo igikombe k'ibimba kiri hasi no hejuru rwaho hari n'akajyaga gatoya.

Ikiganza gifashe igikombe cy'ibumba kirimo amata, iruhande rwe hari isahani iriho keki, n'ifoke ishizemo keke ntoya n'ikiyiko cyubuce ku meza y'umweru imbere umuntu wambaye ipantaro y'umuhondo.

Inzu irimo umuntu ufite ijaga y'umweru irimo amata, iruhande rwe hari ameza y'umweru ariho ijaga ipfunduye y'umweru, akabirikira, icyuma gikusanyirizwamo amata n'indobo y'icyatsi iruhande rw'uwo muntu n'intebe ya palasitiki yo kwicaraho imwe.

Intebe ya purasitike ameza y'icyuma ari inyuma yayo akadomora ka litiro eshanu harimo amata n'akumweru nyuma yaho hateretse amagi ibidomora bitatu birambitse n'agakarito k'amazi maremare, n'akandi gakarito hejuru k'inyange k'amata.

ameza y'umweru iruhande rwayo hari intebe z'umweru zifite ibyuma by'umukara iruhande rwaho hari icyapa kinini kiriho amafoto y'ikivuguto cyanyujijwe mu ruganda cya yahurute cy'inyeri n'amata y'inyange ikivuguto cy'inyeri gikorerwa nyanza.

Umuntu w'umugabo w'umuzungu wambaye umwenda w'umukara afite amarinete arimo aganira n'uri mu kazu, akoresheje ibyuma gasize ibara ritukura yambaye umwenda yanditseho kokakora barimo baganira, hirya abantu bari ku igare, imodoka ziri mu muhanda.

Inzu ya emutuyene iriho ameza magufi hateretseho ibitabo na terefone, abandi bantu batatu barimo basaba serivise, hirya yaho hari indi nzu ya emutuyene irimo umukozi urimo gutanga serivise n'undi urimo kuyimusaba.

Abantu bane umukobwa n'umuhungu bambaye imipira y'umuhondo ya MTN, n'undi wambaye umupira wo kwifubika w'ubururu uri kuri moto wambaye na kasike, undi yamushyiriragamo amavuta muri moto ye n'undi wundi wambaye umupira w'umweru uri inyuma yabo, n'indi moto iri inyuma y'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo.

Inzu nini cyane ya MTN irimo abakiriya benshi irimo abantu benshi abakozi ba MTN batanga serivisi za MTN n'imbere yaho hari abandi bategereje guhabwa izo serivisi za MTN ku ruhande hariho n'akapa kanini kanditseho RwandaAir.

Inzu za Emutiyeni ntoya ziriho abantu b'abagabo umwe wicaye abandi bahagaze uri kuri terefone handitseho Emutiyeni aho waba uri hose no hirya hari umugore wambaye ikarita n'umwenda w'umukara n'undi mugabo umuhagaze imbere wambaye umwenda w'umukara ipantaro n'ishati, hirya yabo hari icyindi cyapa kiriho ifoto y'umuntu w'umugore.

Ameza ateretseho mudasobwa irimo ikoreshwa n'umugabo wambaye ishati ya emutiyeni ufite terefone ntoya imbere ye hari igitabo n'ikaramu arimo aganira n'undi wambaye ishati y'amaboko magufi ufite terefone nini.

Intoki zifashe terefoni ngendanwa igezweho yanditsemo MoMo, ushyiramo umubare wawe w'ibanga, akarongo gatambitse ugahamagara, imbere yaho mo hari umweru w'umwenda.

Akapa ka MTN kari iruhande rw'inzu, handitseho ishyura na telefoni, Momo, telefone igendanwa ukanze akanyenyeri, ijana na mirongo inani na kabiri, kanyenyeri, umunani, akanyenyeri, rimwe, akanyenyeri zeru, kane, gatatu, gatandatu, gatandatu, icyenda urwego, nta yandi mafaranga wishyuzwa.

Akazu ka emutiyeni gafite ibara ry'umuhondo, mu imbere muri ako kazu harimo umuntu w'umugore ufashe ku itama, usutse imisatsi y'umukara. Inyuma y'ako kazu imbere y'uwo mugore, hari abantu babiri umwe barebana mu maso urimo guseka n'undi ureba ku ruhande ufite ibaga ku rutugu.

Akazu ka emutiyeni kariho abagabo batatu bambaye ishati y'umweru n'iy'umutuku n'uturabyo tw'umukara barimo barimo gukora igikorwa cyo kubitsa no kubikuza, iruhande rwabo hari abandi bagore babiri uwambaye ishati itukura n'ijipo y'umukara n'uwambaye ijipo ya shokora ufite ibaga y'umukara y'umukara nabo barimo gusaba serivisi yo kubitsa no kubikura.

Icyapa cya Emutiyene kiriho ifoto y'abana babiri umuhungu n'umukobwa, munsi yabo handitseho kugira ibikoresho byiza, mu isi yacu, gira uyu munsi, gira ejo hazaza, umuhanzi witwa BWIZA yambaye umupira w'umuhondo ufite irangururamajwi aririmba n'abandi bamukurikiranye bambaye imipira y'umuhondo ya Emutiyene wambaye na marinete.

Akazu ka MTN karimo umusore ucecetse, inyuma ye hari ikindi cyapa cyanditseho cya MTN, imbere ye hari ikaye irambuye, irimo n'ikaramu, iruhande rw'iyo nzu hari ibiti birebire cyane.

Umuzungu wambaye umwenda w'umuhondo n'ikarita yanditseho Emutiyeni ufite agaseke ukereka umuntu w'umwirabura akoramo, hirya hari undi wicaye wmabaye amarinete urimo gukoresha mudasobwa.

Akapa gatoya ka amutiyeni kerekana ko wabariza ahongaho, hariho n'izina ry'umucuruzi yitwa umunyamideri Furanse nimero ye ni mirongo inani na gatatu mirongo ikenda na gatanu mirongo ine na kane.

Akapa ka Emutiyeni kerekana uburyo ugiye kwishyura, uburyo wakandamo, ukanda akanyenyeri ijana na mirongo irindwi urwego, kuri momo izina ry'umucuruzi Rabukodisonizi, numero ye ni mirongo inani n'icyenda, mirongo itandatu na gatandatu itandatu n'umunani. Aho waba uri hose birakunda.

Akazu ka Emutiyeni gafunguye, karimo imbere supanete. Imbere yaho hahagaze abagabo batatu: uwambaye ishati y'umukara, n 'uwundi wambaye iy'umutuku n'undi wambaye iy'umweru. Inyuma yabo, y'ako kazu; hari undi mugabo wambaye ishati y'amaboko magufi. Hejuru yaho hari ikrere gisa neza cyane.

Inzu ya eyateri ifunguye imbere yayo hari abagabo babiri n'umugore umwe, umugore n'umugabo babiri barimo barakora mu kiganza cy'umugabo umwe, bamushimira, umugabo umwe ni umukozi wa eyateri yambaye, ikarita ya eyateri igaragaza ko ari umukozi wa eyateri.

Ameza manini ariho telefoni ngendanwa, akapa ka emutiyene kerekana kari uburyo wakoresha ushaka kwishyura, umuti bakaraba mu ntoki wica micorobe, mudasobwa, telefone ntoya, ikaramu n'urupapuro nyemezabwishyu, n'umuntu wicaye imbere yabo ushikamije kuri ayo meza n'ibitabo n' impapuro.

Abakozi benshi ba MTN, bambaye ibirangantego bya MTN n'icyapa kibari inyuma kiriho abantu babiri basetse n'abandi bantu batandukanye, buri muntu yegereye umukozi wa MTN, imbere y'ameza hariho amatelefoni menshi n'amasimukadi.

Akazu ka MTN gafunguye karimo umuntu imbere yaho hari abandi bantu batatu barimo kumusaba serivise yo kubitsa hari n'abasaba serivise yo kubikuza munsi yaho handitsemo irindi jambo ryo tigo cashi na eyeteli hirya yaho hari intoryi.

Akazu ka Emutiyeni gakinguye karimo umuntu usutse imisatsi y'umukara n'umwenda w'umweru ureba ku ruhande, arimo avugana n'undi umuhagaze imbere ye wambaye umwenda w'umuhondo, inyuma ye hari imodoka z'umukara n'ibiti byinshi by'inganzamarumbo byinshi cyane.

Moto itwawe n'umuntu urimo amanuka ahetse agakarito kanditseho "rasha ibiryo", hariho ifoka n'ikiyiko handitseho n'amagambo "ibiryo byanyu tubagerezaho aho muri", hari uwambaye irya MTN n'umupira wa Airtel wambaye agapfukamunwa, n'undi musore umuhagaze iruhande.

Ibyuma binini byubatse neza hariho ibara ry'umuhondo n'icyapa cya emutiyene cyanditseho momo. Emutiyene, umuyoboro wa emutiyene mu magambo ahinnye ma na ta na na. Hari n'urubaho munsi yaho rusize ibara ry'umuhondo, hirya yaho hari ibiti birebire cyane by'icyatsi.

Umugore wambaye umwenda wa MTN uriho ikirangantego cya MTN werekana uburyo wakwishyura amafaranga yawe ukoresheje terefone ngendanwa ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itandatu nagatanu akanyenyeri gatatu urwego kode murongo irindwi mirongo itandatu nakane karindwi ubundi ukohereza ku buntu nta mafaranga yandi bigusaba

Icyapa cya emutiyene kerekana uburyo wa kwishyura amafaranga ukoresheje Telefone ku mucuruzi witwa inuma tekinorogi. Ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe nimero y'umucuruzi. Ntayandi mafaranga bakwishyuza ya service ni ayo ngayo.

Ikicaro gikuru cya eyateri cyamamaza ubwiza bw'umuyobora wa eyateri hariho ifoto y'umukobwa ureba muri telefone wishimye cyane hejuru handitseho amagambo ko bacuruza amasimukadi banatanga amayinite menshi iruhande hari uwicaye acuruza amasimukadi ya eyateri.

Akazu ka MTN gafunze ishushanijeho amaterefoni hirya yayo hari ibiti by'imikindo n'ibyuma birambitse hasi hejuru hari ibipapuro n'ibidayi mu muhanda w'umukara.

Umutaka wa MTN uriho umukozi wa MTN wambaye ijire iruhande rwe umugabo wambaye umupira utukura uri gusaba serivise yo kubitsa no kubikuza inyuma yabo hari uwambaye ishati ya orange wicaye inyuma y'igiti.

Icyapa cya emutiyene cyanditseho kwishyura ni ubuntu ukoresheje emutiyene, ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itatu nagatanu akanyeyeri gatatu urwego ukinjira ugakanda akanyenyeri ugakanda gatandatu gatatu gatanu gatandatu makumyabiri nagatandatu.

Akazu ka emutiyeni gakinguye hari amakarito imbere nta muntu urimo, imbere ku akazu ka emutiyene hariho icyapa cyanditseho gukanda akanyenyeri ijana na mirongwitandatu na gatanu akanyenyeri gatanu urwego ukazigamira ejo hazaza ukoresheje mokashi ya terefone ube ubitsa biroroshye kandi biranashoboka niyo magambo yanditseho.

Ubwo wibajije ikoranabuhanga ni byiza cyane kuko nanone ukugira ubunebwe ntabwo ujya uva mu rugo ngo ubashe kutemberera n'ahantu dutuye uko hameze ariko nanone birafasha niyo unaniwe ntabwo ushobora kuva iwanyu unaniwe cyangwa utashye bwije ngo ujye ku isoko guhaha. Nkuko ubibone iki ni ikirango kerekana imyenda y'iminyarwanda n'inkweto zikorerwa mu rwanda nawe wabyihangira

Akazu ka eyateli gafunguye, imbere harimo agakarito agakarito karimo simukadi za eyateli, iruhande rwe hari amafoto y'umukobwa wifashe mu mayunguyungu ufite simukadi nyinshi mu ntoki za eyateli, munsi ye handitse eyateli mani.

Inzu ya MTN ifunguye amadirishya abiri, iriho abantu batatu b'abagabo barimo barimo kubitsa no kubikuza, n'abandi babiri bategereje kwakirwa na bo basaba serivisi yo kubitsa no kubikura.

Inzu ya emutiyeni, ifunze, yanditseho "Amafaranga, terwa inkunga na emutiyeni, birahebuje cyane", hari undi mwana w'umukobwa uri kuri telefoni, wasetse cyane.

Inzu akazu ka emutiyene gato karimo imbere umuhungu ufite ikaramu n'ikayi arimo kwandika, terefone iteretse mu gitabo hari n'undi umuhagaze imbere w'umukobwa usutse imisatsi urimo kumubwira ibyo yandika, inyuma yaho hari imodoka ebyiri nini z'amafuso.

Akapa ka emutiyeni gatoya kanditseho amagambo, kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabili, akanyenyeri gatatu, urwego kode nimero y'umucuruzi, zeru, zeru, zeru, zeru, umunani, rimwe nimero, nta yandi mafaranga wishyuza, amazina y'umucuruzi yitwa selesitina.

Inzu ya mtn ikinguye hejuru hari hateretseho ikote abantu batatu umwe wifashe mu muyunguyungu wambaye umyenda y'icyatsi w'umukara, n'umugabo barimo basaba uburyo basaba kubitsa no kubikuza hirya yaho hari inzu y'amatafari ahiye.

Akazu ka emutiyene gafunguye kahagaze imbere umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, wasamye afite nk'aho afite uwo aganiriza mo imbere, harimo umuntu mu kazu ka emutiyene, inyuma yaho hari abantu benshi bahagaze ku kazu gasakaye ko ku muhanda, bashaka kwambuka imbere yaho hari imodoka n'indabyo.

Akazu ka emutiyeni kafunguye karimo utanga serivise z'umuyoboro wa emutiyene ku ruhande hari abagore babiri boamusaba kubitsa no kubikura, n'abandi bagabo babiri boamusaba kubitsa no kubikura, inyuma yabo hari ibiti binini cyane birebire.

Akapa ka emutiyeni kerekana uburyo wakwishyura ukoresheje telefoni, ukanze akanyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, kanyenyeri gatatu, akanyenyeri urwego. Nta kiguzi bisaba; ni ku buntu. Hariho na kode. Washyiraho gatandatu, zeru zeru, cumi n'munani, gatatu.

Umugore wambaye umwenda w'umuhondo, ikirangantego cya Emutiyeni, inyuma hari akadomora k'umweru n'agasafuriya karimo ubusa n'akandi gasafuriya karimo ibirayi n'ibikarito. Hejuru iruhande rwe, hari n'urubaho ruteretseho ibafu, inyuma y'uwo mugore hari inetebe y'icyatsi. Hanyuma hirya cyane hateretse intebe za parasitika z'umweru.

Icyapa cya MTN, kiriho umwana w'umuhungu n'umukobwa mu magambo yanditseho ibikoresho bigezweho mu isi yacu, wiga uyu munsi bigira ejo hazaza, umuhanzikazi w'umukobwa witwa Bwiza wambaye umupira w'umuhondo n'irangururamajwi ku munwa, n'amarinete n'abandi bamuteze amatwi bari ku mukomera amashyi, bambaye imipira y'imihondo, bose iruhande rwabo hari imibyare n'indabyo.

Abantu babiri umuhungu n'umukobwa bahagaze imbere y'akazu ka emutiyeni wambaye ijiri umukobwa wambaye ijiri n'umuhungu wambaye ishati, inyuma yabo inyuma y'ako kazu hari imiyenzi n'ibindi biti n'igiti cy'umuvumu iruhande rw'uwo mukobwa hari pasiparumu.

Ikiganza cy'umuntu ufite terefone, muri terefone ye harimo ibara ry'umuhondo ryanditseho ko yakoze ibitaribyo, yongere agerageze ashyiremo umubare w'ibanga nyawo yongere agerageze, murakoze cyane.

Inzu ntoya yubakishijwe imbaho ntoya, harimo abantu imbere yabo hari za mudasobwa, bamamaza serivise batanga, harimo serivise z'irembo, iz'imisoro, iza ekwiti banka na banka yacu.

Terefone ntoya yanditsemo amagambo yo mu cyongereza rimwe ryanditseho amakuru, irindi shyiramo amafaranga, komeza nahindura terefone y' ubwoko bwa Iyou inyuma yayo hari amacupa ya fanta ya coca

inzu nini ya emutiyene hanze yayo hari tereviziyo nsakazamashusho, hari n'abantu babiri mu imbere hari abandi bakozi ba emutiyene, ku ruhande rw'iyo nzu hari ushinzwe umutekano n'isakazamajwi.

Akazu ka Emutiyene gafunguye, karimo umukozi wa Emutiyeni wambaye ijiri urimo areba muri telefoni, hari n'undi musore uri iruhande rwayo wambaye umupira utukura agakoti gatukura, urimo ugana ku nzu y'igorofa iri imbere yaho hateretse mo imifuka myinshi n'akatebe gatoya kari imbere y'iyo nzu.

Ku ihaha akadomo ra wa uragezwaho ibyo watumije byose cyangwa ugahamagara kuri zeru karindwi, umunani, umunani, makumyabiri n'icyenda, cumi na kane zeru kabiri.

Akazu ka MTN harimo umugore w'inzobe wambaye umwenda w'umukara, inyuma yako kazu umugabo hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu, ipantaro y'umukara n'umukandara arimo asobanuza umukozi wa MTN uri muri ako kazu.

Akazu ka eyateri karimo abantu batandukanye; abambaye imyenda itukura imipira itukura yanditseho eyateri n'ingofero n'abandi bambaye imyenda isanzwe bari muriyo nzu ya eyateri inyuma yabo hari icyapa gishoshanyijeho inka n'indege.

Akazu ka emutiyene gakinguye amadirishya yombi, inyuma ya hari uwambaye umwenda w'umutuku n'ipantaro y'umukara urimo asaba kubitsa, hirya yaho hari uwambaye umwenda w'umutuku ufite telefone arimo asaba kubikuza arimo yemezamo uburyo wakwisabira kubikuza n'undi wambaye umwenda w'umweru n'ibaga y'umukara imbere ye, inyuma yawo hari ibyuma bikikije inzu.

Inzu nini cyane y'ubucuruzi icururizwamo ibicuruzwa by'ikoranabuhanga amaterefone, n'amatereviziyo harimo abantu hejuru yabo hari icyapa cyanditseho babashimira imyaka icumi bamaranye. Imyaka icumi hamwe namwe murakoze.

Abantu babiri bambaye imyenda ya emutiyene bafatanye mu kiganza, undi yambaye na mikoro mu gatuza ke k'umwenda we, hari n'umutaka wa emutiyene, inyuma yaho hari abandi baturage benshi babakurikiranye babateze amatwi ibyo barimo kuganira amushimira.

Inzu ya Emutiyeni, ifunguye amadurishya yayo y'imbere, haromo umunu, iruhande rwe hari igitabo, hari n'umunu uhetse ibaga y'umukara n'umwenda w'umweru, iruhande rwe hari akandi kazu gatoya gasize ibara ry'icyatsi.

Icyapa kiriho inka, mudasobwa, impano n'amafaranga n'abandi bantu babiri b'abagore bafite indangururamajwi. Icyapa cyanditseho gitoya gitoya, cyanditseho izihirwe n'ibikarito bifunze biri iruhande rwabo n'abagabo babiri barimo kubyina hagati mu kibuga.

Umugabo wambaye MTN n'umupira wa MTN, yambaye isaha ku kuboko, hari n'undi uri iruhande rwe, ari iruhande rw'ameza hateretseho impapuro nyinshi za MTN, hariho umugabo w'umuzungu nawe wambaye umwenda urimo ibara ry'umuhondo, n'undi wambaye ibara n'undi urimo ibara ry'umuhondo n'umweru wambaye ama lunettene.

Akazu ka emutiyene gafunguye karimo umusore, ufite umusatsi mwinshi imbere ye hari igitabo kirambuye, hirya y'ako kazu hariho amazu asakaye, n'ibigega, n'urukuta rw'amatafari n'ibyuma bihazengurutse.

Inzu irimo ameza iriho igitambaro hariho isahani iriho ifoke n'agashyo gatoya n'abantu bahagaze hirya no hino bari mu kugura amaterefone n'intebe ziri iruhande rw'ayo meza, n'ameza ariho igitambaro cy'umweru n'ayandi ariho igitambaro cy'umutuku.

Akazu ka emutiyeni karimo umugore wambaye umupira wa emutiyeni, inyuma yako hari akazu gatoya kanditseho tigokashi gafite ibara ry'ubururu n'akandi kari iruhande ryayo gafite ibara ry'umutuku, handitse eyateri, hiryo hari inzu nini yanditseho eyeteri, imbere y'iyo nzu hari umwana ufite agakapu.

Umuntu w'umusore ufite aka bag na terefone mu ntoki urimo urakoresha MTN kuri momo arimo aragura ama inite imbere ye hari aho bacomeka ama terefone naza mudasobwa kuruhande rwe hari ibirenge by'umugabo wambaye urukweto rw'umukara n'umweru.

Akazu ka MTN, hejuru handitseho kwakira amafaranga, harimo abakozi babiri umugabo n'umugore, imbere y'umugore hari umukobwa wambaye umupira w'ubururu n'ijipo y'umukara urimo usaba kubikura, imbere y'umugabo umwe wicaye mu kazu ka MTN, hari umugabo wambaye ishati itukura, usaba kubitsa no kubikura.

Ameza magari asa nk'akunganye, hateretsemo ikirabyo mu mfuruka yacyo hifite amababi atukura, hariho mudasobwa ebyiri. Hari n'ibyapa bya mtn bitoya byanditseho aya magambo;"sanlam ni ubwishingizi". Hariho ama code yabo wakwishyura; zeru kabiri, mirongo itandatu, mirongo itandatu na kabiri.

Akazu ka Emutiyeni k'ibara ry'umuhondo, kanditseho uko bohereza amafaranga, imbere yaho hariho umukobwa ufite imisatsi, ufite ibaga mu ntoki, urimo kureba muri telefoni, inyuma ye hari intebe zifite ibara ry'umutuku n'izindi mbaho.

Akapa gato ka emutiyeni kari imbere y'umuryango w'umucuruzi hariho nimero y'uburyo wamwishyuraho amafaranga ukoresheje telefone izina ry'umucuruzi ni Ngabonziza Jean Bosco ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri mirongo ikenda makumyabiri na gatanu zeru gatanu urwego ukemeza.

Iduka ricuruza amapantaro y'abagabo n'abagore, umucuruzi wambaye ijirie ry'umuhondo afashe ku cyapa cya MTN, akapa gatoya kerekana uburyo wakwishyura amafaranga ukoresheje telefone hariho na nimero n'uburyo wabikoramo.

Inyubako icuruzamo imiti irimo numuzungu ufite icyapa cya MTN cyerekana uburyo wakwishyura amafaranga kuri telefone harimo umugabo numugore

Aho batangira serivise za emutiyeni, inzu nini cyane ya irimo abakozi bari imbere, imbere yabo hari ikirahuri kinini hariho abantu bahagaze imbere yabo basaba serivisi, n'abandi bari hirya ibumoso bwabo bicaye nabo basaba serivisi za emutiyeni.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi y'ubururu, ufite telefone mu ntoki n'ikarita arimo areba muri telefoni yishyura, mbere ye hari inyanya, iruhande rwe hari, umutaka utukura n'uw'umuhondo.

Akazu ka MTN karimo umukobwa wambaye umwenda w'umweru, Imbere y'ako kazu handitseho kohereza no kwakira, inyuma ye hari icyapa kiriho ifoto by'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo ufite telefoni n'undi urimo kwakira amafaranga.

Icyapa gitoya cya Emutiyeni cyerekana uburyo wakwishyura, ukoresheje terefone ukanze akanyenyeri ijana na mirongo irindwi urwego kuri momo, amazina y'umucuruzi, umutwe wa sizoni umucuruzi; kode ye miringo cyenda na karindwi, mirongo inani n'umunani, mirongo itatu na gatanu.

Inzu ya emutiyene iriho ifoto iriho umuntu wambaye amajezi y'umuhondo, n'umugore wicaye mo imbere wambaye isaha ufite n'ikaramu aririmo kwandika wamwenyuye, n'umuntu uri iruhande rwe ufite ibyo ari kumumbwira ko yandika, n'igiti cy'umukindo kiri iruhande n'ibaga y'umukara n'ikibabi cy'umukindo cyaguye hasi.

Umugabo wicaye kuri moto yambaye ikoti ry'umukara afite telefone ku gutwi n'undi mugore umuhagaze imbere Ufite telefone ebyiri arimo arebamo yambaye umupira w'umuhondo wA emutiyeni wanditseho ngo kwishyura na terefone biroroshye cyane.

Icyapa cya MTN kiriho amafoto hariho abagabo babiri batangaye cyane bafite terefoni bafite ahetse ibaga munsi yaho handitseho tsinda na mobayiro mane biroroshye imbere yaho hari umugore ufite igikapu na anvirope ahetse ibaga kurutugu imbere ye hari abandi bantu bambaye imyenda ya MTN.

Akazu ka mtn, irimo umuntu w'umusore wirabura ufite ikaramu uri kwandika mu gitabo iruhande rw'icyo gitabo hari telefoni, afite amafaranga mu ntoki urimo kuyahereza undi muntu w'umugore uri inyuma y'ako kazu ka mtn wirabura.

Abamotari babiri n'abagabo babiri, umugabo umwe wambaye umupira w'umuhondo wa MTN n'agapfukamunwa k'umuhondo n'amarineti arimo kwishyura umumotari akoresheje telefoni, n'undi wambaye ikabutura n'inkweto z'umukara n'agapira k'icyatsi arimo kwishyura akoresheje telefone.

Abagabo babiri umugabo umwe yambaye umupira w'umuhondo wa MTN n'ingofero y'ibara ry'ubururu hariho icyapa cya MTN, n'undi bari kumwe ufite amvelope mu ntoki wambaye isaha, ufite na telefone mu ntoki inyuma yabo hari abandi bantu babiri bambaye imipira y'umuhondo.

Inzu yubakishijwe amabati hariho abantu bane bambaye imipira ya emutiyeni n'undi wambaye umupira w'umweru, harimo n'umunyamahanga w'umuzungu barimo basaba serivise y'umuyoboro wa emutiyeni n'undi wambaye impuzankano y'ubururu y'itaburiya.

Umutaka wa MTN wicayemo abantu bane, batatu bambaye amajiri ya MTN yanditse akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego, iruhande rwabo hari imodoka yanditseho yego kabisa na moto n'imodoka nyinshi zitandukanye n'ikindi cyapa cyanditseho icumi, cumi na gatatu mu ibara ritukura.

Icyapa cya Emutiyeni cyanditseho akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe urwego ugakurikiza amabwiriza, hari umugabo ufite igare ku ruhande rwe hari ikibumbano kinini giteretsemo indabyo n'uwundi wambaye umwenda w'umuhondo na terefone igezweho ngendanwa arimo kuyimuhereza.

Akazu ka Emutiyene gafunze kari ku muhanda, i ruhande rwako hari icyapa rw'ibumoso ihande rw'iburyo hari ipoto ry'amashanyarazi inyuma y'inzu ya Emutiyeni hari ibiti binini.

Akapa yashushanijeho telefoni handitseho kabode n'akandi kari uruhande kerekana uburyo wakwishyura amafaranga ukoresheje telefoni ukanza akayenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyeri gatatu urwego amafaranga bigusaba, hasi bikakwereka na kode yabo maganatandatu ijana na mirongo icyenda na gatandatu.

Akazu ka emutiyeni kicaramo abagore babiri bambaye imyambaro ya emutiyeni batanga serivisi zo kubitsa no kubikuza mbere y'aho hariho icyapa cyamamaza emutiyeni cyanditseho amagambo mobayilo mani eyateli tayimu, inyuma yaho hari hariyo umurima uriho ibigori.

Intebe z'ibyuma, imbere yizo ntebe hari umusore urimo kwayura wambaye agapira k'ubururu ari inyuma yaho batangira amafaranga muri banke, imbere mo imbere muri iyo nyubako harimo mudasobwa eshatu.

Inzu ya emutiyene irimo ifunguye irimo umukozi urimo gutanga serivise za emutiyene, n'undi mugabo umuhagaze imbere, inyuma y'inzu usaba serivise yo kubitsa no kubikura iruhande rwabo hari undi ugaragara ukuboko ufite terefone.

Umuntu wambaye ishati y'umuhondo mo imbere harimo ishati y'umukara wicaye ku igare yasetse cyane umupira yambaye handitseho gura paka utsinde inyuma ye hari umutaka wa MTN kuruhande rwe hicayeho umugore n'abandi bantu bari inyuma ye basetse cyane.

Abantu batatu ufite telefone arimo kwishyura amafaranga akoresheje telefone, bamaze kumushyirira amavuta y'imodoka mu modoka ye hari imodoka nyinshi, n'umukobwa usutse imisatsi wambaye umupira wa emutiyene ufite agakayi mu ntoki.

Icyapa cya emutiyeni, cyanditseho amazina ya intapurayiza, gifite inimero: rimwe, umunani, icyenda, zeru, kabiri, zeru, n'akarangantego ka emutiyeni, gatoya.

Umutaka wa emutiyene wicayemo umugabo ufite terefone ebyiri imwe arimo kuyihereza undi wari umuhagaze imbere n'abandi babiri bicaye hirya yabo mu mutaka wa eyateri inyuma yaho hari inzu ikinguye n'igare ritoya rya siporo, n'undi uri hirya uhagaze ufashe ku gikuta cy'inzu n'andi mazu ari hirya yabo menshi cyane.

Akazu ka MTN gafunguye, karimo umuntu ukoramo ufite igitabo n'ikaramu urimo kwandika, iruhande rwe hari undi mugenzi we urimo kumuvugisha, hirya yabo hari igiti kirekire cy'umukindo hari n'ikibabi cyaguye cy'umukindo, hirya y'imikindo hari igipangu kinini cy'amatafari n'ibyuma birebire.

Akazu ka mtn gafunguye, karimo umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'uturongo, yunamyemo. Ku muryango wako kazu handitseho uko wakohereza amafaranga ukoresheje mtn byoroshye kandi ari byiza, ukoresheje telefone n'ikoranabuhanga ryayo ari nziza. Inyuma y'ako kazu hariyo ibyatsi.

Inzu ya emutiyene ifunguye amadirishya atatu, hariho umuntu w'umugore uri kumubaza asaba uburyo bwo kubitsa no kubikuza, n'undi wambaye umupira w'umukara hirya yaho hari ibiti, n'indabyo n'imyenda ihamanitse y'amashati.

Inyubako ya emutiyeni ifunguye irimo abakozi ba emutiyeni bambaye imyenda ibaranga, nundi musore ufashe umwana muto, nundi uri imbere yabo urimo utambuka bareba, nundi mugabo wambaye umwenda w'ubururu n'ipantaro y'umutuku n'inkweto z'umukara,

Inzu ya MTN irimo umukozi wa MTN iruhande rwe hariho icyapa cyanditseho Nokiya inyuma y'iyo nzu hari abagabo batatu barimo basaba serivise yo kubitsa no kubikuza hirya y'abo bagabo hari abagore babiri nabo bategeresje ubaha serivise yo kubitsa no kubikuza.

Ameza ateretseho mudasobwa ebyiri, zikoreshwa n'abantu babiri bambaye imyenda y'imihondo, imbere yayo meza hari abandi babiri, umugabo umureba muri mudasobwa n'undi mugore wambaye umwenda w'icyatsi.

Akazu ka MTN gafunze, kanditseho akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego, munsi yaho yanditseho uburyo wakoresha MTN wohereza amafaranga, unakira amafaranga, hirya hari igipoto cy'amashanyarazi n'icyapa kiyobora abantu n'ibiti birebire by'amoko atandukanye.

Umugabo wambaye umupira wa emutiyeni wirabura, muremure, munini wambaye n'impeta ku rutoki, arimo aganira n'undi uri mu modoka. Nawe kuri iyo modoka hari icyapa cya emutiyeni barimo baganira, kuri iyo modoka hari icupa ry'umweru.

Inzu nini y'ubucuruzi ifite amakaro y'umweru n'umukara ifite parafo y'umweru ndetse n'amatara y'umutuku, hariho n'akarangantego kamamaza yuko ibicuruzwa ari ibiryo, harimo utubat dutandkanye dufite ibiryo bitandukanye harimo n'imigati.

Akazu ka mtn gafunguye harimo umuntu wambaye umwenda w'umweru, handitseho ukanze akanyenyeri ijanatantatu na gatanu kanyeri i gatanu urwego ukizigamira ejo hazaza ukoresheje telefone ngendanwa byose biroroshye kandi birashoboka hari n'abana ku ruhande batatu na moto iri hirya yabo mu muhanda.

Abantu babiri bari imbere y'ameza maremare imbere hari ikirahure na mudasobwa zirimo imbere harimo abandi bantu barimo bazikoresha inyuma yabo hari amagorofa maremare cyane, n'icyapa kinini kiriho umuntu wambaye umwenda w'ubururu na rutemikirere inyuma yabo kuri icyo cyapa hari n'intebe zicayeho undi muntu utegereje guhaguruka akajya gusaba serivisi.

Umukecuru w'umusatsi w'imvi uri kumwe n'umwana w'umuhungu useka cyane, iruhande rwabo hariho icyapa cya MTN gishushanyijeho indege igenda imena amafaranga menshi cyane.

Isoko rigurisha ibintu bitandukanye harimo intoryi, imiteja, ubudeyi, icyapa kiriho uburyo wakwishyura amafaranga wabishatse kuri terefone ibirungo, pawavuro, buto, ifu n'abantu baje muri iryo soko.

Umuntu wicaye ku ntebe yambaye umwenda w'umweru hariho ikirangantego cya MTN, yicaye ku ntebe imbere ye hari ameza hariho n'icupa, ikayi imbere ye hari abandi bantu, abafite terefone, ufite ikayi n'ikaramu n'urupapuro, arimo yandika muri terefoni n'abandi bareba mu materefone yabo.

Akapa gato ka emutiyene kanditseho amagambo ishyura na momo pe, hariho na kode yo gukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri, rimwe, akanyenyeri zeru, kane mirongo itatu, na gatandatu, tandatu, n'ikenda urwego. Nta yandi mafaranga wishyuzwa nibyo byanditse kuri ako kapa ka emutiyeni gafite ibara ry'umuhondo.

Ameza ariho ingofero za Emutiyeni, ubucupa bwa Emutiyeni n'ubundi butambaro bwa Emutiyeni, inyuma hari intebe y'umukara, hari n'umugabo wambaye ishati y'umweru wunamye, harimo amabara y'umuhondo ku ikora, wambaye n'amarinete, iruhande rwe hari n'undi mugabo wambaye ishati y'uburongo, ufite n'ibaga mu ntoki y'umukara.

Akazu ka eyateri kerekana ko babika bakanabikuza ukoresheje eyateri mane, hariho akapa kerekana ko simuka za eyateri wazisanga aho, bafite simukad nziza ko banaguha indi simukade mu gihe uramutse iyo wari ufite wayibuze ,hirya bakerekana n'uburyo wagura amanite ya eyateri ukanze akanyenyeri kabiri kabiri kabiri urwego.

Urupapuro rwanditseho Kigali ubucuruzi bukorerwa ku ikoranabuhanga. Gana aya matsinda bigendanye kugura no kugurisha amafoto ndetse n'amafoto menshi ukagira icyo wandikaho hasi.

Umukobwa wambaye umupira w'icyatsi, n'imisatsi y'umukara, wambaye amaherena, ufashe ku ikarito yanditseho vuba vuba, yanditseho ibiryo byawe tubikugereze aho uri, apfunduye arimo arakuramo ibyo kurya agiye kubitanga aho babimutumye.

Isoko ry'abahinzi b'abanyafurika batwara ibyo kurya byanyu byiza bakabibagereza mu rugo harimo avoka, imineke, inyanya, ibitunguru amashu na tungurusumu tukabibagezaho iwanyu ibyo mwadusabye tukabibagerezaho mu rugo.

Tangira ugure kuri mudasobwa yawe ugura namakoperative atandukanye harimo; Amazone, Sone, Nikoni, Samusanga, Adidasi na ca na pa, na Puma na Weremati n'andi makampani menshi.

Umugabo wambaye ijiri y'ubururu n'umupira w'imbeho, wambaye kasike y'umuhondo afashe ku gikarito cyanditseho kasha, ni irindi jambo rya twizere, duhitemo dukora neza kasha akadomo ko n'anverope afite mu kiganza ye yanditseho kasha.

Abantu babiri abagore, uwambaye umwenda w'akazi w'icyatsi wanditseho vuba vuba, azaniye ibicuruzwa bye uwo wari wabimusabye, arimo kubyakira harimo buto, urusenda, karoti biri muri enverope yanditseho vuba vuba.

Umuntu uri kuri moto wambaye umwenda w'icyatsi n'inkweto z'umweru uhetse igikapa cyanditseho vuba vuba ibyo usabye tubikugezaho ni ku muhanda w'umukara iruhande rwe hari ndabyo nziza zitoshye, imbere ye hari icyapa cyanditseho kwa Marina hoteri hari n'imikindo imbere miremire.

Abasore babiri, uwambaye ishati y'umweru n'ipantaro itukura n'uwambaye agapira k'amaboko maremure k'icyatsi uri kuri moto, uri iruhande rwa moto, moto yanditseho Safi berekana ko ibicuruzwa byabo babikugereza mu rugo, undi arimo arareba muri terefone, arimo kumwishyura bari inyuma y'igipangu.

Moto iparitse ntamuntu uriho, agakarito k'ubururu iruhande rwa moto. Hari umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto zifunguye z'umukara, ishati y'amaboko maremare. Imbere y'uwo muntu hari n'umuntu uturuka mu nyubako, yambaye ipantaro y'umukara n' inkweto y'umweru, agapira k'amaboko magufi, yambaye n'agapfukamunwa.

Inkweto z'umweru za nayike, hejuru yaho handitseho inzu y'inkweto, ukazigurira kandi ko bizikugerezaho mu rugo, iyo uri hanze ya kigali wongeraho igihumbi cy'itiki.

Abakobwa babiri, umwe wambaye agapira utukura, undi wambaye agapira k'icyatsi basetse cyane. Bafite agakarito gafunitse neza k'impano, kanditseho mirongo itanu ku ijana.

Icyapa kiriho amafoto yamamaza hariho imyenda, imyenda yo kwifubika ugura amafaranga cumi na rimwe n'inkweto zigura amafaranga icyenda yo muri amerka, na terefone zigura amafarnga mirongo itatu n'atanu n'imodoka zigura amafaranga icumi.

Urupapuro rushushanijeho rukoreshejwe amabara, rundi ibara rimwe ry'umukara rishushanijeho akantu kameze nk'akagare batwara iyo urimo guhaha, ugenda ushyiramo ibyo uhashye utwaramo.

Umukobwa ufite telefone ngendanwa, arimo arakoresha gahunda ya vuba vuba, arimo gusaba ibyo bamuzanira, akoresheje ikoranabuhanga. Aranatwereka uburyo wabikora. Kugira ngo ibyo usabye bikugereho, utiriwe uhaguruka ngo ujyeyo.

Imbonerahamwe y'ubucuruzi' ucuruza ku mafaranga ibihumbi mirongo ine na bitatu n'amafaranga ijana y'amanyarwanda, ingano y'ibikarito makumyabiri na bine ingano yabyo ni rimwe mu mpande zose bingana nk'umucuruzi.

Abantu batwaye moto batanu n'abandi bari imbere yabo, abatwaye moto bambaye umwenda w'impuzankano w'akazi wanditseho Yego Moto n'ingofero za moto zanditseho Yego Moto bari mu muhanda, imbere yabo hari imodoka yanditseho Toyota.

Umuntu uri ku igare wambaye umwenda w'icyatsi uhetse baga y'icyatsi wambaye na amarineti nikigofero kinini cy'icyatsi, yambaye nikoboyi inyuma yuwo mugabo hari ibara ry'icyatsi.

Abantu babiri b'abagabo, uwirabura usutse imisatsi wamabaye amarineti, ufite ingofero ya moto yanditseho moto nziza, hariho na nimero fa na ga mirongo itatu n'umunani mirongo itanu na gatatu; n'undi mugabo w'umuzungu wambaye amarineti na we ufite ingofero ya moto handitseho moto nziza, zeru karindwi umunani, ibihumbi icumi, mirongo itatu na kane.

Inzu nini cyane y'igorofa igeretse gatatu isize amabara y'umuhondo n'ubururu hariho icyapa cyanditseho iposita, ku igorofa rya mbere hariho abantu babiri hasi ku mu nzu yo hasi hari imodoka ebyiri ndende n'enye ngufi zanditseho iposita mu mabara y'umu ibara ry'umuhondo n'ubururu na moto abazifite bambaye imyenda y'umuhondo.

umugabo uri kuri moto wambaye umwenda w'icyatsi w'impuzankano yambaye ipantaro y'ikoboyi ari mu muhanda w'amabuye matoya arimo azamuka ahetse agakarito kanditseho vubavuba mu ibara ry'icyatsi.

Icyapa kiriho cyamamaza uko bacuruza imwenda y'abagore hari ikanzu y'amaboko magufi, ikanzu y'amaboko maremare, agapira k'icyatsi gatebeje mu ijipo isa umukara.

Umugabo wambaye umwenda w'icyatsi wanditseho vuba vuba ureba inyuma, uri iruhande rwa moto wishikamije agakarito kanditseho vuba vuba, ibyo utegetse tubikugereza mu rugo, ahagaze inyuma y'icyapa cyanditseho Bugarama.

Igishushanyo cy'umuntu wicaye ku ntebe ufite mudasobwa imbere ye n'igikombe gitoya n'agakombe gatoya karimo amakaramu hejuru handitseho mirongo itatu ku ijana, yerekana ko bakorera ubucuruzi ku ikoranabuhanga bwambukiranya imipaka ndetse bakajya no mu mahanga bizinesi yawe igakorwa neza bakorana n'amakampani menshi atandukanye.

Umuntu wambaye umwenda w'umukara na kasike y'umweru inbere ye hari moto iteretseho agakarito kanditseho amagambo magufi y'ikinyarwanda ka na fa na ca n'andi yo mu cyongereza bikugezaho, ibyo usabye tubikugezaho ku gihe, imbere ye hari imodoka y'umweru n'umukara.

umugabo uri kuri moto wambaye umupira utukura uhetse agakarito kanditseho Rush food ibiryo byawe tubikugezaho aho uri hose ibiryo byacu birizewe bagashyiraho na nimero ya terefone wababonaho ubaye ubakeneye.

Icyuma gikonjesha iruhande rwaho hari amacupa abiri rimwe rya Nil rihagazemo, hasi hari ubwapa butoya bwamamaza icyamamaza Samsung, Nikon n'icyamamaza Nikon n'akandi kariho polisi.

Amandazi atandatu afungiye mu gashashi hariho agapapuro kanditseho urwibutso rukorera mu karere ka Musanze mu ntara y'amajyaruguru hariho na nimero za terefone ubakeneya wabahamagaraho hasi yaho hari ahandi handitse urwibutso hariho amandazi ari ku isahani irindazi rimwe bavunnyemo kabiri n'igiciro cya bitatu maganatanu.

Icyapa kiriho ifoto y'umuntu wikoreye yambaye umwenda wanditseho twiga, iruhande rwe hariho icyapa cyanditseho amagambo twiga tekereza yuko usevinze amafaranga yawe ndetse n'amafaranga y'urugendo.

Umugabo wasetse cyane wambaye isaha ku kuboko n'ipantaro y'umukara n'umupira wa oranje, wicaye kuri moto yegetse ku gikuta afite urubaga runini rwanditseho pozi, ifite ibara ry'umuhondo.

Ishahane iriho ibiryo byiza biryoshye cyane, harimo umureti, pavuro, amakaroni ndetse n'ibirayi, hasi byanditseho ko ugura amagi meza bakayagutekera, bikakubera ibiryo bya mugitondo.

Icyapa kiriho abakobwa batatu, berekana uburyo wagura amatike kuri mudasobwa yawe. Itariki, azaba ari tariki makumyabiri n'icyenda z'ukwakenda, azaba ari ku wa Gatanu. Izatangira saa kumi n'ebyiri n'igice, kuri Kigali Serena hoteri. Itike ya macyeya ni ibihumbi icumi, ahahenze cyane ni ibihumbi makumyabiri.

Icyapa kinini cyane kiriho amafoto y'amaso tandukanye. Amaso matoya n'amanini, yerekana ko batunganya ingoyi z'abagore n'abakobwa. Bagakora no mu maso, ubwiza bagusiga amabara atandukanye yo mu maso; yongera ubwiza.

Abagabo babiri bambaye amashati impuzankano yanditseho vubavuba bafashe ku bikarito biri hejuru ya moto handitseho vubavuba ibyo usabye tubikugezaho inyuma yaho hari uruzitiro rw'imbaho n'inzu y'inyubako igorofa ndende.

Abantu batatu bicaye abagore babiri n'umugabo umwe umugore umwe uri kuri mudasobwa n'undi uri kuri mudasobwa n'undi mugabo uri hirya yabo uri kuri telefone nawe ureba muri mudasobwa wicaye mw'iduka ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Icupa rya gaze ry'ubururu, inyuma y'iryo cupa hariho moto itariho umuntu, hariho ikarito, inyuma y'iyo moto hariho igicupa kinini cy'amazi, cya jibu.

Moto iriho agakarito kanditseho vubavuba kerekana ko ibyo usabye babikugezaho babikugereza mu rugo, iri ku muhanda imbere ya moto hari igiti cya gereveriya hari hakurya y'umuhanda hari urukuta rw'amabuye.

Icyapa cyanditseho amagambo ibiruhuko byiza, hari ibiti by'icyatsi bigufiya bitatse neza, biriho inyenyeri n'impano nyinshi ziri ku ruhande, handitseho ku magambo ari hasi handitseho ibicuruzwa byiza biri mu nzego zitandukanye kandi nziza.

Umuhungu wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'icyatsi uhetse ibaga yanditseho vuba, akagare k'umukara gafite amapine abiri ka siporo inyuma ye, imbere ye hari igipangu gifite ibara ry'umweru n' amatafari ahiye n'indabyo z'amahwa .

Abantu babiri umukobwa n'umugabo barimo bahererekanya, umugabo wambaye kasike y'icyatsi ahagaze i ruhande rwa moto yanditseho Safi amuzaniye ibyo yamusabye ko amugereza mu rugo umukobwa arimo arabyakira imbere y'umuryango w'igipangu inyuma yabo hari ibiti bitandukanye ndetse n'ibyatsi bigufiya by'icyatsi.

Icyapa kiriho imineke ndetse n'ibirayi hejuru yaho handitseho umucuruzi mwiza, hari imineke idashishuye ikirirwa ku iseri ryayo itanu ndetse n'umuneke bashishuye bakasemo ubuce butatu handitseho umuneke uryoshye cyane uhingwa n'abahinzi bo muri Afurika ndetse n'ibirayi binini cyane bihingwa nabyo n'abahinzi bo muri Afurika.

Shakisha bizinesi ukoresheje urufunguzo mumugi cyangwa muma posta amanitse ahantu ushake bizinesi iyo ariyo yose hasi handitseho amagambo yo mu icyongereza gushaka paje urebe itari hano.

Umuntu utwaye moto, imbere ye hari akuma. Agatelefoni ngendanwa ushyiramo igenda imwereka icyerekezo cy'aho ageze n'aho arimo kujya, ikanamwereka n'iminota n'amasaha akoresheje mu rugendo rwe.

Icyapa gishoshanyijeho imodoka imwe ifite ibara rya oranje y'ubucuruzi yanditseho m'urukari, hirya yanditseho amagambo ko bagura no murukari babikugereza aho waba uri hose, ndetse banambuka n'imipaka kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu, ndetse n'ibindi byose wakenera babikugerezaho.

Urupapuro rwanditse amagambo kwigurira hariho n'ifoto y'inkweto n'imyenda by'abagabo kugura ibicuruzwa bitandukanye ku ibicuruzwa bitandukanye k'ubucuruzi bucuruza impande n'impande ku ibiciro utasanga ahandi kubikugezaho ntakiguzi utanze naho hanze ya Kigali utanga igihumbi yo kubikugezaho gusa.

Umugabo munini w'irabura wambaye agapira gatukura, ufite icupa mu ntoki urikumwe n'umwana w'umukobwa ufite imisatsi myinshi w'inzobe, papa we arikumwereka ibiri mw'icupa inyuma yabo hari igikuta cy'umweru.

Ifoto y'umuntu ufite imisatsi myinshi n'amarinete wasetse ufasha ku kananwa ufite telefone igezweho ngendanwa mu nsi ye handitseho amagambo ubwigenge ugura aho waba uri hose byemeze muri telefone yawe ubundi bikugereho.

Urupapuro rwanditseho gushakisha serivise mu nsi yaho handitse kanda hano ubone serivise zose z'ubukerarugendo, umuryango, ikemezo cyuko uri ingaragu kugira ngo ubone uburyo wabona izo serivise.

Ifoto yamamaza akarwa, berekana ko bagurisha ibintu byujuje ubuziranenge bikurira ku isoko rya Amazone, bigurishirizwa muri Kigali ku bacuruzi b'Ikigali, urodaringa ibyo ushaka babikugezaho.

Abantu babiri umwe yambaye ijiri ya orange ipantaro y'umweru ufite moto imbere ye, urimo gukuramo ibyo bamusabye arimo kubihereza uwabimusabye bambaye n'ubupfukamunwa inyuma yaho hari igipangu gisize ibara ry'icyatsi ku rugi.

Iduka ry'ubucuruzi ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye musi yiyo foto barerekana igiciro cyayo m'amafaranga uburyo bayagabanije umuguzi yishura mirongwitandatu ku ijana andi asigaye bakayagushyiriraho hirya yaho hagaragara ibindi bicuruzwa bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Icyapa kiriho Telefone irimo amafoto, yerekana uburyo wagurira iwawe aho waba uri hose wabasha kugura ukoresheje ikoranabuhanga, Mudasobwa cyangwa Telefoni zigezweho ngendanwa, hari n'amagambo yanditse mu cyongereza, yanditse aho uri niho ugurira, hari n'imbuga nkoranyambaga bakoresha nka, Instagram na Facebook na Wahatsapp hariho na nimero zabo.

Iduka ryashyize ku biciro byo hasi bafite ifi, inyama, karoti, ubuto, umuceri w'umutanzaniya, ibitoki, amashu n'ibitunguru ndetse n'inyanya.

Umuntu wambaye umwenda w'icyatsi wanditseho vuba vuba, ibyo udusabye tubikugezaho ari gukuramo ibyo bamutumye kuri moto mu gakarito ke handitseho vuba vuba, mu muhanda w'amabuye.

Ibirenge byambaye inkweto ifunguye kubonamo amabara y'umukara , ibirenge bisize bihagaze hejuru mu nzu, handitseho ku ruhande ko izo nkweto biriho ibiciro by'izo nkweto ko ari ibihumbi icumi magana atanu y'amanyarwanda.

Umugabo wanbaye umwenda w'uzyatsi wanditeho vubavuba, ufite amvirope irimo karoti, ibitunguru by'amababi, ibibuto n'ombe inyuma ye hari agakarito kanditseho vubavuba, ibyo ushaka ko babikkugezaho bakora ubucuruzi.

Inyubako y'igorofa igeretse rimwe iriho isize amarange y'umweru iriho hanze ibipupe byamamaza imyenda y'abagore niy'abagabo no hasi hari igipupe cyambaye ikanzu y'umugore n'imodoka iparitse imbere yiyo nzu.

Amagambo yanditse mu cyongereza ari ku rupapuro, ijambo rya mbere ryanditse urutonde ruri mu mzego zitandukanye z'ibyicaro, by'abacuruzi mu Rwanda abacuruzi bacuruza ibicuruzwa bijya mu mahanga.

Umugabo wambaye umwenda w'icyatsi wanditseho vubavuba n'ipantaro y'ikoboyi na moto iri imbereye ye arimo gukuramo ibintu, agakarito ke handitseho, vubavuba ibyo utegetse, ibyo usabye tubikugezaho iwawe mu rugo.

Urupapuro rushushanyijeho isaha hirya handitseho na n'igihe, hasi handitseho amagambo kugira vuba tukabikugereza aho wadusabye, biri mu ibara ry'umuhondo hariho n'ibara ry'umweru kuri urwo rupapuro rwose.

Inyubako ndende y'igorofa iri imbere y'iyo nyubako hari imodoka nyinshi z'isuzu, iri no kuri iyo nyubako ifite nimero mirongo itatu n'umunani, undi muryango ufite mirongo itatu na gatandatu undi muryango ufite nirongo itatu na gatantu kuri izo modoka hari ibara ry'umuhondo handitseho twiga.

Imodoka irimo umuntu wambaye umwenda w'ubururu n'ingofero y'ubururu, ufite agakarito kandiditseho "Isoko rigari", hejuru ku modoka handitseho "urugendo no kubikugezaho isoko rigari akadomo", hasi handitseho "tugane", hariho numero ya terefoni na whatsapu, zeru karindwi, umunani mirongo irindwi n'icyenda, mirongo inani na kabiri, magana atandatu.

Mudasobwa irimo amagambo y'Icyongereza yatseho'' kohereza, kohereza ndetse no kwakira ibicuruzwa'' hasi handitsemo ''hitamo igihugu aho wakohereza ibintu byawe ukanashakisha.

Ubu Kampani ishinzwe gukora ubucuruzi ku ikoranabuhanga bwitwa ibeyi. Ni ubucuruzi buri ku rubuga rwa Kigali rufasha gukora gukora rufasha abantu gukora ubucuruzi bwa mudasobwa urebye n'inkuru nziza.

Abantu bicaye muruganda, barimo gushyiramo ibitoki, mu bukarito bwa purasitike bwabugenewe gutwaramo ibiryo mumahanga, bari bafite telefone, barimo kureba muri telefone n'ikaramu, bicaye kuntebe, ibitoki biri imbere y'amaza.

Moto ziparitse zihagaze ziriho iki baga kinini cyanditseho pozi, ibyo usabye babikugereza mu rugo mu buryo bwo kugabanya amafaranga y'urugendo ndetse n'umwanya. Hirya hari indabyo ngufi n'ibiti birebire ndetse n'ipoto ry'amashanyarazi.

Ubucuruzi bukorwa bukorewe ku mbuga nkoranyambaga bwitwa migoro, buramamaza ko banakugezaho ibicuruzwa, ibicuruzwa byabo bikakugerezaho mu rugo, bafitemo inyanya, seleri, pavuro, ibitunguru, ubuto, karoti n'amashu.

Icyapa kiriho ifoto iriho isahani irimo ibyo kurya. Hirya handitseho inyama ndetse n'icupa ku mafaranga ibihumbi birindwi. Hasi handitseho bigure nonaha, hari na shokora ku mafaranga ibihumbi makumyabiri na bitandatu magana atanu.

Icyapa gishushanyijeho ubudege butoye bushushanyije bwerekana ubucuruzwa byawe aho wabivana, kuva mu majyepfo mu majyepfo ya amerika ku mugabane wa amerika no kuba wabigura bivuye mu mugabane wa amerika bijya mu budage, ndetse mu bindi bihugu bambuka imipaka yose.

Ibirenge by'umukobwa, ibirenge byirabura, bisize inzara, ibara ry'umweru, wambaye udukweto, udushumi utubiri dutambitsemo ibara ry'umutuku, umukara, hejuru y'ibyo birenge handitseho amagambo y'Icyongereza, na mirongo itatu na gatanu ku ijana.

Icyapa cyanditseho amagambo tangira neza ugura ukoresheje ikoranabuhanga kuri mudasobwa, handitseho ubucuruzi bwiza. Hasi hariho haragaragara igice gitoya cya telefone.

Icyapa cyamamaza uko bacuruza ibintu kuri mudasobwa. Hepfo y'icyo y'icyapa hariho abagabo babiri barimo bumvikana ibiciro, hari uteruye ikarito. Hirya yaho hari imodoka y'ibara ry'umutuku mu imbere harimo ibikarito bizanye ibyo bicuruzwa.

Urupapuro runini cyane rwamamaza imyenda y'abagore, hariho n'amafoto n'amafaranga muri Amerika bayigura maganinani n'ibice zeru metero ebyiri, hasi yabo hari n'andi mafoto yabo yamamaza imyenda y'abagore.

Abagabo batanu bicaye kuri moto, bambaye amajire y'umuhondo, bahetse ibikarito binini bya kizungu byanditseho apuresande, bambaye n'ubupfukamunwa, baparitse hagati mu mbuga isashemo amabuye manini cyane.

Umuntu w'umusore wambaye imyenda y'icyatsi yicaye kuri moto yanditseho safi, yambaye ipantaro y'ikoboyi y'umukara n'urukweto rw'umukara n'umweru n'isogisi, yakikiye kasikie ishushanyijeho umuntu usa nkaho yiruka yanditseho safi.

Umuntu utwaye moto uri mumuhanda amanuka, imbere hari telephone yahetse ibaga nini cyane yanditseho poz, ibyo usabye babikugereza iwawe mu rugo mu buryo bwo kugabanya amatike yawe n'umwanya, iruhande rwe hari ibiti by'icyatsi.

Urupapuro runini cyane hirya yaho hari ibiti by'icyatsi n'impano nyinshi biri mu ibara ritukura handitseho ibicuruzwa byiza biri mu rwego rwiza, hari agashushanyo ka kagare ngo twitwazemo guhaha ibyo dushyiramo n'akandi gashushanyo k'umutwe w'umuntu.

Ndabona ahantu hakusanyirijwe ibintu byinshi hari igitoki, puwavuro, ibitunguru inyanya, ibishyimbo, ubuto mu gicupa kirekire, amafi, ifu, y'ifarini, n'inanasi.

Icyapa kinini kiriho amafoto y'abahanzi bo mu Rwanda bafite igitaramo kiri bubere, bafite igitaramo ubwo tangira wigurire amatike yawe nonaha, amatike uzayagurira kuri juma amatike menshi ukagura amatike menshi atabarika.

Umugabo wambaye ikoboyi n'umupira utukura na kasike itukura ufite igikarito mu ntoki, ku ruhande rwe hari moto iteretseho agakarito gatukura bamamaza ko bakugezaho ibicuruzwa byawe. Hariho na nimero uramutse ubakeneye, inyuma y'igipangu cy'amatafari ahiye n'urugi ry'ubururu

Imodoka y'umutuku inyuma hari icyapa cy'ubururu cyamamaza ko bacuruza, bacururiza kuri mudasobwa, iyo modoka iri mu gipangu imbere, cyubakishijwe amatafari ahiye n'amabuye asize ho akarangi k'umukara n'ak'ubururu mbere y'icyo gipangu hariho indabyo n'akadomora k'umweru.